Abantu benshi bateraniye hamwe mu gikorwa cyo kwisuzumisha harimo abaganga ndetse n'abaturage baje baje guhabwa serivisi, umwe muri bo ari kubasobanurira abereka ko gahunda ziri gukora.

Mu kigo cy'amashuri, aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano, bahagaze ku mugezi, bafunguye amazi, bari gukaraba kugira ngo birinde umwanda ushobora kuba wabatera uburwayi.

Ku mugezi abagore baje kuvoma amazi, umwe ari kuvomera mu ndabo, abandi babiri bari kuyakubita ava mu butaka ajya mu mugezi kugira ngo uvoma abone ayavoma namara kuvoma abandi na bo baze bavome.

Umuntu uri gukaraba intoki akoresheje umugezi, aho amazi aturuka mu mugezi, ateze biganza agakaraba, ku umugezi hari agace kabugenewe katerekwaho isabune ari kwifashisha mu gusukura intoki.

Abana babiri bari kumwe n'umukobwa bahagaze ku mugezi bavoma ibijerekani, bagiteze ku mugezi kugira ngo cyuzure babone gukurikizaho ikindi, barimo kwitegereza umuntu ubari imbere ubona bamwenyura bishimiye kumubona.

Umugore w'umuzungu, uhagaze ufite indangururamajwi arimo kugeza kubamukurikiye ubutumwa, inyuma ye hari ibyapa byinshi bisobanura igikorwa cyahurije aba bantu hamwe, kugira ngo bagere ku cyo bagamije.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi akaraba intoki akoresheje amazi ari guturuka ku mugezi, aseka amwenyurera umuntu umuri imbere. Hirya ye hari amajerekani ateretse bigaragara ko arayazanywe n'abantu kuvoma amazi.

Imbere mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi cyane, bicaye bazengurutse ameza, bateze amatwi urimo kubagezaho inama. Ku meza kandi hari amacupa y'amazi banywa ndetse n'amakaye bari kwandikamo ibijyanye n'inama bari kugezwaho.

Icyumba giteraniyemo abagabo n'abagore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, hariho amagambo yanditse ku gikuta kiri inyuma yabo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu. Bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kurwanya gutwita kw'abangavu.

Abana babiri bambaye impuzankano, bicaye mu ishuri, barimo barareba umuntu ubari imbere bamwereka ikintu kiri hejuru, hifashishijwe urutoki bamutungira kugira ngo abashe kuba yakibona.

Umugezi rusange uvomeraho abaturage batuye muri ako gace, abana baje kuvoma umukobwa afite akajerekani yagateretse ku mugezi, ndetse mugenzi we ar’inyuma akubita icyuma kizamura amazi kiyakura mu butaka, kugira ngo abona amazi avoma, abandi bana baje kuvoma bahagaze ku ruhande bareba ikiri gukorwa.

Imodoka ebyiri nini zikorera imizigo, zitwaye ibicuruzwa bitwikirijwe amahema y'umweru ndetse kuri buri hema hariho ikirango kigaragaza nyir'ibicuruzwa.

Abaturage benshi baje ku mugezi kuvoma amazi, bahagaze bawukikije. Umukozi uyashinzwe ari kuyasana kugira ngo abaje kuvoma babone amazi bavoma, ibikoresho by'abo bazanye.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore baje kuvoma amazi ku mugezi rusange bateretse amajerekani ku murongo imwe iri ku mugezi imaze kuzura amazi batereka ho indi kugira ngo bayatware bajye kuyifashisha mu mirimo itandukanye.

Imbere mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu, abagabo ndetse n'abagore bicaye barebana hagati muri bo hari ameza ateretseho ibikoresho byabo birimo amakaye, amakaramu ndetse n'amazi bari kunywa hirya kuruhande hari umuyobozi w'inama bigaragara ko bari kugenda baganira abaha ibitekerezo nabo bamuha ibitekerezo.

Umwana w'umuhungu urimo gukaraba mu maso, akarabira ku mugezi, yafunguye amazi ari gukoresha intoki ze akaraba mu maso, ari guseka cyane bigaragara ko arimo kureba umuntu uri imbere ye uri kumuvugisha.

Umwana w'umukobwa, uri mu kigo cy'amashuri, wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru, ari gukaraba intoki ku mugezi, mu rwego rwo kwirinda ko hari indwara, zandurira mu mwanda yahura na zo.

Umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umutuku arimo gukaraba amazi ku mugezi rusange akoresheje intoki. Arimo gukaraba amazi agwa hasi ndetse arangariye umuntu uri inyuma ye.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo n'abagore bambaye impuzankano y'umweru hejuru ,bamwe baricaye abandi barahagaze barimo gufata ifoto y'urwibutso ,nyuma y'aho hari igikuta gishushanyijeho RBC ikigo cy'igihugu cy'ubuzima ndetse na repubulika yu Rwanda bigaragara ko ari igikorwa cyashyigikiwe na RBC.

Imifuka myinshi irunze ndetse n'abantu bari kuyitaho abagore babiri bafashe umufuka umwe ku ruhande rumwe undi rundi bawukora aho wari bawuzanaho indi mifuka irambitse.

Igikorwa cyo gukingira abana cyahurije hamwe abaganga ndetse n'ababyeyi benshi bazanye abana babo kubakingiza, umuganga arimo gutera urushinge umwana ufashwe na mama we, kugira ngo abashe kumukingira indwara.

Abantu benshi biganjemo abagore bateraniye mu cyumba babyina, bishimye, bazamuye amaboko hejuru bigaragara ko bishimiye igikorwa kirimo kuhabera.

Itsinda ry'abantu abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako bafata ifoto yurwibutso, bari kumwenyura bigaragara ko bishimiye akazi bakora n'igikorwa kiri kuba.

Umugore uhetse umwana urimo koza umufuniko w'indobo yateretse ku ruhande ari ku mugezi akoresha amazi aho ahumye ku mugezi agasukura icyo gikoresho yazanye ku mugezi.

Igikorwa cyo gusuzuma abaturage, itsinda ry'abaganga rifite ameza abari imbere ariho imiti, barimo gusuzuma ababyeyi baje babagana harebwa ikibazo cy'uburwayi umwe yaba afite kugira ngo avurwe akire agire ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'ubururu n'ishati y'umuhondo afashe ibirahuri by'amazi bibiri arimo kumwenyura yishimye kuruhande rwe hari ikidendezi cy'amazi hakurya yacyo Hahagaze abana bari kumushungera bareba ibyo arimo gukora.

Umwana wikoreye ikijerekani cy'amazi avuye kuvoma, arimo kugiturwa n'umugabo w'umuyobozi kugira ngo agishyire hasi, umwana arimo kuvunika. Umukobwa w'umuzungu ahagaze imbere yabo arimo kubafata ifoto, ni byo barimo.

Itsinda ry'abakozi bakorera ibitaro, abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano bakoresha mu gihe cy'akazi, bahagaze bafata ifoto y'urwibutso rujyanye n'igikorwa bari barimo gukora. impande yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo ndetse n'ifoto bigaragaza igikorwa cyari cyabahuje

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa cyo gusuzuma uburwayi aho mbere hari abagore babiri bafite mudasobwa iteretse ku meza ari imbere yabo, abaturage baje kwisuzumisha bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe bakurikirana umwe avaho undi akurikiraho mu gusuzuma.

Imbaga nyamwinshi yaba'abaturage bateraniye imbere y'inzu y'ubuyobozi, ahari ibendera ryatewe imbere y'inzu yicayemo abayobozi bari kubagezaho serivisi yabateranyirije hamwe, ndetse ku gikubita cy'inyubako harimo icyapa kinini kiri gusobanura igikorwa kiri kubera aho hantu.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo ku gikuta hari icyapa kinini cyanditseho amagambo asobanura igikorwa bari barimo gukora.

Itsinda ry'abayobozi abagabo ndetse n'abagore bari mu gikorwa cyo guha abantu amata, bari kubasomya bakoresheje ibikoresho byabugenewe harimo amata, ndetse bagenzi babo bari gufata amafoto y'urwibutso.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe ririmo abagabo n'abagore ryiganjemo urubyiruko bahagaze bafata ifoto y'urwibutso bamwenyura bigaragara ko bishimye.

Itsinda ry'abana, bafite ishyaka ryo gukaraba ku umugezi, bose bihutira gushyiraho ibiganza amazi ari guturuka mu mugezi. Bishimye bakina ubona banezerewe bishimiye ibyo bari gukora hano ku mugezi.

Imbere mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi, bicaye bakurikiye urimo kubahugura. Bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu, bari kwandikamo ibyo bari kubwirwa kugira ngo babashe kubyifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Imbere mu cyumba cy'inama, hateraniyemo abantu benshi, bicaye barebana. Imbere ku meza yabo hariho amacupa y'amazi, bari gukoresha mudasobwa kuri bamwe na bamwe, ndetse n'amakaye n'amakaramu ku bakeneye kwandika ibiri kuvugirwa mu nama. Umwe muri bo ari gutanga itekerezo, abandi bamukurikiye, kugira ngo bagere ku ntego bafite.

Abakobwa babiri bamaze kuvoma amazi umwe ari kuyakorera undi, bigaragara ko indobo bavomeyemo isa n'icyatsi iremereye cyane bisabye ko bose bafataho kugira ngo babone uko bayikorera bayatware bayashyitse aho agomba gushyirwa.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, arimo gukaraba intoki akoresheje kandagir'ukarabe, yubatse ku buryo umuntu akandagera ku gati kakazamura akajerekani, amazi ari mukajerekani akamanuka, ukaraba intoki akayifashisha mu gukaraba.

Abaturage benshi bahuriye hamwe bicaye barebana imbere y'inyubako igaragara ko bicaye ku murongo bategereje ko bahabwa serivisi ziri gutangirwa mu nyubako.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bateraniye mu cyumba kinini cy'inama, barimo kugezwaho amahugurwa n'umugabo urimo hagati yabo, wambaye itaburiya agenda abahugura bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika ibyo babwirwa.

Abagore babiri ndetse n'umwanda bari kuvoma amazi bifashishije amajerekani, imwe bari kuyitereka ku mugezi ikajyamo amazi yakuzura bakayikuraho bagaterekahede kugeza zose zuzuye bagatwara amazi yabo.

Ikirango kinini gifite amagambo yanditse munsi yacyo, ngo wadi herifu oruganizesheni, byumvikanisha ko kirimo gushishikariza abantu b'isi yose kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi bateraniye ahantu amazi yatobotse, bateze ibiganza abagwa ku biganza bakaraba, abandi babashungeye hatezweho ibase iri kugwamo amazi kugira ngo aze gukoreshwa atapfa ubusa yose.

Umugabo waje kuvoma amazi mu kijerekani ahagaze ku mugezi atsikamiye ikijerekani yaje kuvomeramo amazi, arimo kureba umuntu uri imbere ye aseka amwenyura bigaragara ko amwishimiye kumubona.

Umuyobozi wambaye amataratara uhagaze ku gatute kariho indangururamajwi, arimo kugeza abamukurikiyeho igitekerezo kugira ngo barusheho gutera imbere ndetse no kwiyubaka mu buryo bw'ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage biganjemo abana, barahagaze bari kwitegereza itsinda ry'abakinnyi ba teyatere, bari gukina imbere yabo mu rwego rwo gushishikariza abantu kwirinda igikorwa ndetse n'uburwayi bwa ebora.

Mu cyumba cy'amahugurwa abaturage bicaye bareba abayobozi bicaye imbere yabo bafite mudasobwa ziteretse ku meza n'amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi bari gukoresha bageza amahugurwa ku baturage, inyuma y'aho hari igikuta kinini cyantseho amagambo menshi harimo sitopude mabage bivuze ko ari igikorwa cyo guhagarika virusi ya mabage.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, isa umutuku hasi, umweru hejuru ndetse na karuvati, arimo gukaraba amaboko yifashishije amazi ari mu ibase kugirango abone kugira ibyo akora.

Umugore waqje kuvuza umwana, yicaye ku ntebe bamuteruye mu ntoki, muganga urimo kumuvura ari kumuha umuti, awumusomya, kugira ngo abashe gukira agire ubuzima bwiza.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi batandukanye bicaye bateze amatwi umuyobozi w'inama, umuyobozi ahagaze imbere yabo afite indangururamajwi, ari kubagezaho ibitekerezo bijyanye n'icyo agamije kubahugura.

Mu cyumba cy'inama giteraniyemo abantu abagabo ndetse n'abagore bari kuganira, ku meza abari hagati hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaragaza amashusho ndetse kuri buri muntu hateretseho agakombe k'icyayi, bakoresheje mu gihe bari mu nama.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abana b'urubyiruko ndetse n'abana bato bambaye impuzankano kuri bamwe na bamwe, bafite ibyapa biri ku mpapuro bazamuye hejuru mu rwego rwo kugaragaza igikorwa barimo. Inyuma yabo ku nzu ihari, hari igikuta kinini gishushanyijeho kinandetsetseho amagambo asobanura igikorwa cyabahurije hamwe.

Nkuko mubibona murabona ko izi nk'izi ari ibikoresho bikoreshwa mu gufata abantu amaraso no kubakingira batera imiti urabona ko hano turi muri farumasi ni ahantu haba hari imiti n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukingira abantu inkingo.

Itsinda ry'abantu, abahungu n'abakobwa bambara imipira y'ubururu yanditseho ishora neza ndetse bambaye ingofero z'umweru bazamuye ukuboko kw'iburyo bagaragaza ko ibyo bari gukora ari ibyo gushyigikirwa.

Umunyeshuri w'umukobwa bambaye impuzankano arimo gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe yashyiriweho abanyeshuri yo kuzajya bakoresha mu gihe cyo gusukura intoki, bigizwe n'indobo ndetse n'ibasi irwamo amazi mu gihe umuntu arimo gukaraba.

Umwana muto uvoma amazi ku mugezi ari gufungurirwa na mugenzi we w'umunyeshuri wambaye impuzankano nk'ufungura ku mugezi kugirango abone amazi avoma haraguru y'abo hari gucaho abandi banyeshuri bajya ku kigo cy'amashuri kwiga.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo ku meza hateretseho amazi bari kunywa, ndetse n'udukoresho tw'umweru twanditseho amagambo asobanura umuntu wicaye ku uwo mwanya.

Itsinda ry'abagore n'abagabo, bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho hari inzu yanditseho salle de conference, byumvikanisha ko ari icyumba cy'inama, bari mu nama bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hari icyapa kinini gisobanura ubwoko bw'inama barimo.

Itsinda ry'abantu bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, ryiganjemo abagore, bamwe muri bo bambaye amajiri y'akazi, bari kumwe na bagenzi babo, kugirango bafate ifoto y'urwibutso ku gikorwa cyabahurije hamwe.

Umukobwa n'umuhungu bicaye umukobwa afite igitabo kinini n'ikaramu ari kucyandikamo, yambaye agapfukamunwa afashe na telefone mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho ngo sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gutegura kurwanya sida.

Umugabo n'umugore baje kuvoma amazi ku mugezi bakoresheje amajerekani, bayateretse ku mugezi hari kujyamo amazi imbere yabo hahagaze umukobwa yambaye ijiri y'umuhondo urimo kubaganiriza byumvikanisha ko ari umukozi ushinzwe ibya amazi.

Itsinda ry'abana batatu bari gukaraba intoki ku mugezi wabugenewe kugira ngo basukure intoki zabo birinde ko barya umwanda ushobora kuba wabatera uburwayi bumwe na bumwe.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu gikorwa cyo gukaraba intoki, bafunguye amazi bari gukaraba kugira ngo bakure umwanda uri ku ntoki, bareba umuntu ubari imbere baseka, bamwenyura bigaragara ko bishimiye ibyo barimo.

Umwana uri kuvoma amazi ku mugezi, ari kwifashisha ibijerekani kimwe cyuzura agiterura ku migezi aterekaho ikindi kugera byose birangiye. Arimo kumwenyurira umuntu umuri imbere ye, bigaragara ko anezerewe n'ibyo ari gukora.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyambaro y'akazi; amataburiya ndetse n'agapfukamunwa n'ingofero kugira ngo bize kubarinda ko bagira uburwayi bahura nabwo mu gihe cy'akazi, bafashe ibikarito mu ntoki birimo imiti bagiye bakoresha mu kuvura abarwayi.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi, wateretse ikibase hasi, ari gukaraba intoki akuraho imyanda, amazi mabi amaze gukaraba rari kugwa mu ya base, ndetse anakaraba neza kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda.

Imbere mu cyumba cy'amahugurwa ateraniyemo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore umugabo uri kubahugura ari kugenda hagati muri bo yifashishije ikibaho abasobanurira ibyo yateguwe kubahugura.

Icyumba cy'inama, kirimo abantu bicaye barebana, bazengurutse ameza abari hagati, ateretseho ibirahuri byamazi ndetse na ji hariho kandi n'amakayi n'amakaramu bari kwifashisha mu kwandika ibivugiwe mu nama. Bamwe muri bo bari gutanga igitekerezo, abandi bicaye batuje bamuteze amatwi.

Abana babiri basutamye ku mugezi, bakaraba amazi ava mu mugezi kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda, bari kuganira ubona bishimye, bishimiye ibyo barimo.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore baje kuvoma mazi bifashishije amajerekani, bayateretse ku mugezi barimo gufungura amazi akajya aturuka mu mugezi akajya mu kijekani.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe harimo abaganga ndetse n'abarwayi baje kwisuzumisha, umuganga yabwiye umwana kwasama kugira ngo abashe kumusuzuma mu kanwa ikibazo cy'uburwayi afitemo.

Umubyeyi wazanye umwana we muto kumuvuza, yicaye ku ntebe amufashe mu ntoki. Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, arimo kumuha imiti amwasamura, amasuka umuti mu kanwa kugira ngo umwana amererwe neza.

Abagore bateraniye ku kumugezi umwe ari kuvoma amazi, bateretse indobo kumugezi amazi ari kuva mu mugezi ajya mu ndobo, abandi babiri bari inyuma bari gukubita icyuma gikoreshwa mu kuzamura amazi ava mu butaka yavoma akabona amazi yo kuvoma.

Umugabo w'umujyanama w'ubuzima, arimo kugira inama ababyeyi bazanye abana babo kubasuzumisha ibiro, aho inyuma ye hariho umunzani uziritseho imishumi, ni ho umwana yicaramo hakarebwa ibiro agezeho, kugira ngo ababyeyi bagume bite ku buzima bwe bugenda neza.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe mu cyumba, bicaye, mo hagati harimo ameza bateretseho ibikoresho byabo, bari kungurana ibitekerezo, umwe atanga igitekerezo, abandi bateze amatwi kugira ngo baze guhuza bagere ku mwanzuro w'igisubizo cyabahuje.

Abantu benshi bateraniye mu gikorwa cy'ubuhinzi, bambaye imipira y'umuhondo ndetse harimo n'umuyobozi w'umupolisi bambaye imyambaro y'akazi, bamwe muri bo barimo gukora akarima k'igikoni bateramo imbuto ndetse n'imboga.

Abaturage benshi barimo abagabo, abagore ndetse n'abana bateraniye hamwe mu gikorwa rusange. Hagati muri bo hashinze ibendera rya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'amahema atwikiriye agace kicayemo abayobozi, bigaragara ko bari bahurijwe hamwe kugira ngo bagere ku gikorwa runaka ubuyobozi bwifuza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba barimo abaganga baje baganwa n'abaturage bakeneye kwivuza, umwe mu baganga ari kwandika ku ikaye, ndetse undi ategereje guha serivisi ukurikiraho mu kwivuza.

Abantu bateraniye mu cyumba barimo kwisuzumisha, aho harimo abaganga bari gusuzuma abaturage umugabo wambaye agapfukamunwa waje kwisuzumisha aricaye yatanze akaboko ke k'ibumoso ari buteraho urushinge kugira ngo babone uburyo bamusuzuma.

Umukobwa uri kuvoma amazi mu ijerekani yateretse mu ibase ku mugezi, amazi ari kuva mu mugezi ayijyamo kugira ngo ajye kwifashisha imirimo itandukanye. Inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda yafuzwe igashyirwa ku izuba kugira ngo yume abantu bayambare.

Abanyeshuri bambaye impuzankano abahungu n'abakobwa bateraniye ku mugezi baje kuvoma amazi, bifashishije indobo ndetse n'utujerekani barimo kuvoma baseka ubona baganira.

Agace kanini gateraniyemo abaturage benshi biganjemo abagabo n'abagore bicaye hasi ahandi bahagaze, imbere hari inyubako ifitebe ibendera rishinze imbere, ndetse n'amahema atwikiriye ku ruhande, bigaragara ko bari mu gikorwa rusange cyari cyahuje abaturage.

Abana bane bari gukaraba intoki icyarimwe basukirwa amazi n'umugabo uhagaze impande yabo wambaye bote ufite igikombe kirimo amazi abasukira, amazi y'umwanda bari kumara gukaraba ari kugwa mu base iteretse munsi y'ibiganza byabo.

Itsinda ry'ababyeyi bicaye mu cyumba barimo kuganirizwa n'umuganga ubashinzwe kugirango bungurane ibitekerezo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'imiryango yabo bitabwaho.

Mu rwego rwo kuzamura ireme ry'abana murabona ko abo bana bari basuwe ,basuwe n’igihugu igihugu gishinzwe imikurire y'abana urikubonako barikubitaho bari kubaha igikoma n'abapolisi bashinzwe umutekano bita ku buzima bw'abana kubera ko umwana ni umutware kandi umwana ni urwanda rw'ejo.

Itsinda rya'bantu benshi biganjemo urubyiruko, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi bicaye hasi, abandi barahagaze kugirango babone uko bafata ifoto y'urwibutso iri gufatwa, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo asobanura igikorwa kiri kubera aho.

Akazu k'umugezi kari ahantu runaka abaturage baza kuvomeraho bitwaje amajerekani, umukobwa umwe ahagaze ku mugezi agenda avoma ijerekani imwe imwe yavaho agashyiraho indi, ba nyiri majerekani bahagaze ku ruhande bategereje ko babona amazi bagataha.

Itsinda ry'abantu benshi, ryiganjemo abapolisi bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo ku gikuta kinini gihari, handitseho amagambo asobanura ubwoko bw'igikorwa cyari cyabahuje.

Imbere mu cyumba kinini cy'amahugurwa ateraniyemo abantu benshi batandukanye, abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yaho haba umuyobozi w'amahugurwa arikwifashisha ibintu byanditse ku gikuta, kugira ngo abashe kubasobanurira icyabahuje.

Imbere mu cyumba cy'isuzumiro harimo umugabo n'umugore, aho umugabo ari kureba mu cyuma cy'ikoranabuhanga giteretse ku meza atwikirije igitambaro cy'umuhondo, bigaragara ko arimo kuganiriza umugore bijyanye n'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko bwe.

Umugore uvuye guhinga ahagaze yikoreye igitebo kirimo ibijumba n'imigozi akuye mu murima, afashe n'isuka mu ntoki, hanyuma yitegereza umuntu uri imbere amwenyura bigaragara ko amwishimiye.

Umupira w'ijezi, riri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru ,yanditseho amagambo asobanura igikorwa cyo kwamamaza, kugirango abantu barusheho gukunda ibyamamajwe banahereko bagure umupira bashingiye ku bwiza bwawo.

Icyumba cy'inama gihuriyemo abayobozi ndetse n'abayoborwa bicaye barebana. Abayobozi bari kugeza ubutumwa bayoborwa, inyuma y'abayobozi hari igikuta kinini cyanditseho amagambo menshi atandukanye, harimo wadi mento helifu deyi asobanura ko ari umunsi w'isi wita ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi w'umukecuru, wicaye ku musambi, impandeye hicaye abana benshi, baje kumusura bamuganiriza, dore ko bigaragara ko adafite imbaraga nyinshi, zatuma arushaho kugira ubuzima bwiza. Abana bari kumufasha kugirango ngo yiyumve neza kandi amererwa neza.

Umugabo n'umugore bayoboye icyumba cy'amahugurwa, umugore afite indangururamajwi arimo kugeza ku bamukurikiye ubutumwa. inyuma ye hari ibyapa byanditseho RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda, bisobanura ko ibyo barimo bifite aho bihuriye n'ikigo cya RBC.

Umugabo w'umurwayi wo mu mutwe, wambaye imyenda yamucikagurikiyeho ndetse n'inkweto zishaje cyane, afite ibikoresho by'umwanda, akanuye amaso, ateye ubwoba, ahagaze mu muhanda wa kaburimbo.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza arimo kureba umuntu umuri imbere aseka cyane afite akabiswi arimo kurya kugira ngo agarure ubuyanja.

Umurwayi wo mu mutwe wicaye wifashe ku mupanga, yambaye amapingu mu birenge mu rwego rwo gufasha ko atagenda akagira ibintu yangiriza, cyangwa akaba yajya ahantu batamubona.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi batandukanye, biganjemo abagore bari gukoma amashyi bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwishima, impande yabo hateretse ameza ariho amacupa n'ibindi bikoresho bazanye mu nama.

Abantu batatu bateraniye mu cyumba, ababyeyi babiri ndetse n'umukobwa bicaye ku ntebe, hagati muri bo harimo ameza arambitseho ibikoresho bari kuganira, abo babyeyi b'abagore bafashe abana mu ntoki, umukobwa ari kubaganiriza bigaragara ko ari kubaha ibitekerezo byo kwita ku bana babo.

Umugore wambaye ingofero y'umukara y'ubudodo; afashe agatambaro k'umweru mu ntoki; yagakoresheje yipfuka mu maso; bigaragara ko atashakaga ko mu maso ye haboneka.

Umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe, wunamye ufashe ku mutwe bigaragara ko afite agahinda, arimo kuganirizwa n'umugore mugenzi we, wicaye ku ntebe, ufite imisatsi izinze amuhumuriza kugira ngo uburibwe bw'agahinda bugabanuke.

Umugabo uhagaze ahantu hari kuva izuba ryinshi yegamiye ku gikuta cy'umweru areba hejuru, bigaragara ko hari ikintu ari kurebayo cyangwa akaba ari gutekereza ibintu byinshi bimusaba kwegamira akareba hejuru.

Umukecuru urimo gutekera hanze y'inzu ye akoresheje, amashyiga ndetse n'inkwi, yicaye ku ntebe imbere y'iziko arimo gukoresha agasongabugari, abirindura ibiryo.

Itsinda ry'abantu batatu bicaye, bambaye udupfukamunwa baganira, umwe muri bo ari gutanga igitekerezo, abandi bamukurikiye kugira ngo bagere ku mwanzuro w'icyo bagamije, bahuza ibitekerezo ndetse banahugurana.

Umukobwa wicaye wafatishije umutwe amaboko usa naho yihebye ababaye cyane mande ye hari umukobwa mugenzi we umufashe ku maboko uri mu kumuhumuriza kugira ngo atapfa n'agahinda.

Mu duce dutandukanye tugaragaza amafoto y'urwibutso yagiye afatwa mu gace gakorerwamo ubuhinzi, aho abahinzi bambaye imipira y'ubururu ndetse barimo gufashwa n'abayobozi batandukanye, baje kubasura mu gutera imbuto.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi batandukanye bicaye, umukobwa n'umugore bahuriye imbere bafite indangururamajwi bigaragara ko barimo gukina umukino bereka abicaye mucyumba bakurikiye.

Abagore batatu bahagaze mu murima urimo ibihingwa bigaragara ko bari barimo kubyitaho, bafite inkoni mu ntoki ndetse umwe muri bo afite igitiyo barimo kureba umuntu uri imbere yabo, umugore umwe afashe umwana mu ntoki arimo kuboha ibere.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, bahagaze abandi bicaye bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini, kiriho ibirango bitandukanye, kiho RBC (Ikigo k'Igihugu cy'Ubuzima mu Rwanda) byumvikana ko bari bahujwe n'igikorwa cyatewe inkunga na RBC.

Itsinda ry'abantu bahagaze abagabo ndetse n'abagore bafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari ibyapa byamamaza bisobanura ikintu cyari cyabahurije hamwe bakaba bageze mu mwanya wo gufata ifoto y'urwibutso.

Umuhungu wicaye, uteze umutwe amaboko, bigaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana, ari guhumurizwa n' umukobwa umuhagaze iruhande, amukora ku mu ku rutugu, amubwira amagambo y'ihumure kugira ngo ataza kwicwa n'agahinda gakabije.

Itsinda ry'abantu bicaye barimo abagabo, abagore ndetse n'umwana, barimo kuganira batanga ibitekerezo, umukobwa wambaye umupira w'ubururu ari kuvuga ibitekerezo afite, abandi bicaye impande ye bamukurikiye kugirango bahurize hamwe ibitekerezo, bagere ku mwanzuro ukwiye.

Umugabo wicaye mu mugenda ucamo amazi y'imvura, impande ye hateretse ibintu byinshi by'umwanda ndetse hari n'imyanda afite mu ntoki. Agaragara nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko n'imyenda yamucikiyeho.

Mu kigo cy'amashuri, abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bari mu gufata ifoto y'urwibutso. Baseka, bazamuye ibiganza hejuru, ubona ko bari mu gikorwa bishimiye, kandi banezerewe kubamo.

Umugabo muremure wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro yumukara arimo gusuhuza undi mugabo wambaye imyenda yamucikagurikiyeho, umusatsi umeze nabi cyane, bigaragara ko afite ibibazo byo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, bari kumwemwe na bamwe mu bayobozi babo kugira ngo bashimangire igikorwa cyahaberaga.

Itsinda ry'abantu abagabo ndetse n'abagore bari gufata ifoto y'urwibutso imbere yaho hari ameza ateketseho ibikoresho bitandukanye bifashishaga mu gikorwa bari ndetse bamwe muri bo bambaye imipira y'impuzankano ibafasha kumvikanisha cyari cyabahuje.

Imbere mu cyumba kinini cyabugenewe gikorerwamo inama hicayemo abantu bo mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bicaye batuje bateze amatwi uri kubagezaho impamvu.

Umugore wicaye mu cyumba ku gatebe yateyemo, imbere ye hashashe umukeka. Arimo kwitegereza umuntu umuri imbere asa n'urakaye, bigaragaye ko atishimye, akeneye gufashwa.

Imbere mu cyumba cy'inama hahuriyemo abantu benshi batandukanye, biganjemo urubyiruko bambaye imipira y'umukara igaragaza igikorwa kiri kuhabera bicaye bareba imbere, bateze amatwi bakurikiye urimo kubagezaho inama.

Umukobwa afite imisatsi izinze, yicaye wubitse umutwe awufatishije n'amaboko yombi, bigaragara ko arimo yibaza ikibazo cyamuteye agahinda, arimo gutekereza uburyo yagishakira igisubizo.

Itsinda ry'abana benshi bicaye hamwe bamwe bambaye impuzankano abandi bambaye imyenda isanzwe, barimo kureba umuntu ubari imbere bishimye cyane baseka abandi basamye.

Mu maso h'umuhungu urimo kurira amarira amanuka ku itama, bigaragara ko yahuye n'ikintu cyamubabaje kikamutera agahinda kugera ubwo amaso ye hajemo amarira, akaba ari kumanuka ku matama.

Igishushanyo kigaragaza igice cy'ubwonko, gishushanyije mu ibara ry'umuhondo ku muntu, cyerekana uburyo ubwonko buba bumeze mu mutwe w'umuntu, bumufasha gutekereza no gukora imirimo y'ubwenge.

Umwana muto ufite uburoso bw'amenyo mu ntoki, arimo ayakuba amenyo ayakuramo imyanda kugira ngo atagira indwara arwara zitewe n'imyanda irayifata amenyo igihe yaryaga.

Umuganga uri kwifashisha icyuma koranabuhanga areba ubwoko bw'amenyo arwaye, amafoto yafotoye umuntu yifashishije imashini kugira ngo arebe amenyo ari buvure.

Imbere mu ishuri, abana benshi bambaye impuzankano, bafite udushashi mu ntoki turimo ibyo kurya, batuzamuye hejuru, bigaragara ko bishimiye umuntu watubahaye kandi batwerekana banezerewe.

Igikorwa cyo kuvura amenyo, umurwayi uramye ku gitanda cyabugenewe, arasamye, abaganga babiri, abagabo bambaye imyambaro y'akazi, barimo baramusuzuma banamuvura amenyo, kugira ngo abashe kumererwa neza.

Murabona ko uyu mwana uyu mugabo arwaye amenyo ari kwitabwaho na muganga ku buryo buhambaye, uyu mwana arimo arasuzuma kugira ngo iryinyo babashe kubona indwara zitwaye, uri kubona ko bamutunze akamufasha gusuzuma neza uko bikwiye.

Ifoto yafotowe n'imashini ifotora amenyo gusa, yerekana amenyo n' uburyo ari mukanwa, ndetse hagamijwe kureba amenyo afite ikibazo, kugira ngo aze kwitabwaho avurwe.

Igice cy'umubiri cy'amenyo cyafotowe n'imashini yabugenewe ifotoramagufa, irimo kugaragaza amenyo yose yo mu kanwa k'umuntu kugira ngo muganga ayarebe, agenzura iryinyo rifite ikibazo aryiteho arivure.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bahagaze bafite ibikombe mu ntoki n'uburoso bw'amenyo, bakura imyanda mu kanwa, kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda ufata mu kanwa mu gihe baryaga bakarwa amenyo.

Imashini yabugenewe yifashishwa mu gikorwa cyo gusuzuma no kuvura amenyo, ifite utwuma twabuhariwe muganga yifashisha mu buryo bwo kwita ku murwayi kugira ngo amuvure amenyo.

Umuhungu n'umukobwa, bafite utudodo mu ntoki, bagenda bacisha mu menyo kugira ngo bakure umwanda mu menyo, babashe kurinda uburwayi bwaterwa n'umwanda w'amenyo.

Umugabo wicaye ku ntebe, urimo gusuzumwa anavurwa na muganda, wambaye agapfukamunwa ndetse na ga n'itaburiya arimo arasuzumwa amenyo anayavurwa kugira ngo abashe gukira.

Igikorwa cyo kuvura amenyo y'uyu mwana waryamishijwe kugitanda kiryama abarwaye amenyo, arimo kwitabwaho n'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe nkaga afite utwuma mu ntoki ari gushyira mu kanwa k'umwana kugira ngo arebe amenyo arwaye ayavure akire.

Imbere mu nyubako icyumba giteraniyemo abantu biganjemo urubyiruko bambaye imipira y'icyatsi n'abandi bambaye umweru, barimo barakurikira umuntu umwe muri bo atanga igitekerezo anabasobanurira uko ibikoresho babahaye bikoreshwa mu gusukura amenyo.

Umwana urimo gusuzumwa amenyo kugira ngo aze kuvurwa, aryamye ku gitanda cyabugenewe, umuganga wambaye ibikoresho biriimo ga arimo kumusuzuma kugira ngo amuvu uburwayi bw'amenyo afite.

Igikorwa cyo gusuzuma amenyo y'umurwayi, umukobwa uryamye ku gitanda cyabugenewe ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano ndetse na ga n'ibikoresho bimufasha kwirinda, afite utwuma tubiri mu ntoki, arimo gukoza ku menyo y'umurwayi kugira ngo abashe kubona uburwayi arwaye amuvure akire.

Abagore babiri bateraniye mu cyumba, bafashe impapuro n'amakaramu mu ntoki bari kuzandikaho, imbere yabo hari ameza atwikirijwe igitambaro cy'ubururu giteretseho ameza, amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho bari kwifashisha.

Ibyuma byihariye byabugenewe birambitse hasi byifashishwa mu gikorwa cyo gusuzuma no kuvura amenyo muganga akorera umurwayi urwaye amenyo amusuzuma, amuvura iryinyo rirwaye.

Umusore ufashe akadodo k'umweru, agafatiye ku munwa, bigaragara ko ari gusukura amenyo kugira ngo akuremo imyanda, iba yagiyemo mu gihe yaryaga, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda uba mu menyo, bikanduza amenyo akarwara.

Umugabo uryamye ku gitanda gisuzumirwaho kikanavurirwaho abarwayi barwaye amenyo, ari kumwenyura cyane agaragaza amenyo, muganga umuhagaze ku ruhande wambaye ga z'ubururu afashe akuma, agiye kumushyira mu kanwa, kugira ngo amusuzume ibibazo amenyo ye afite.

Ifoto y'amenyo ifatwa n'imashini yabugenewe yo kwa muganga, kugira ngo babashe kubona amenyo yose yo mu kanwa h'umuntu, muganga ayifashishe areba ikibazo amenyayo afite, anahereko amuvure, amukize.

Umukobwa uri mucyumba akoreramo isuku, wicaye ku ntebe, afite indorerwamo mu ntoki, arimo arasamye areba amenyo ye niba koko afite isuku, imeze nk'iyo muganga yamutegetse kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo uri gukoresha akadodo yafatishije amaboko yombi agacisha kuri buri ryinyo, kugira ngo akureho imwe mu myanda iba yagiye kuryinyo mu gihe yari arimo kurya, mu rwego rwo kwirinda ko hagira indwara zikomoka ku myanda mu menyo yamugeraho.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyahariwe gusuzumirwamo no kuvurirwamo amenyo harimo imashini yabugenewe yifashishwa mu kuvura amenyo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe arimo kuvurwa amenyo ndetse n'intebe muganga yicaraho mu gihe ari kwita ku murwayi harimo n'utubati dutandukanye tubika ibikoresho muganga yifashisha.

Imbere mu isuzumiro ry'amenyo, umuganga wambaye itaburiya, ga ndetse n'agapfukamunwa, ufite imisatsi izinze ipfundikiye inyuma, arimo gusuzuma mugenzi we w'umugore nanone yasamye amwereka mu kanwa, muganga akareba amenyesha ko afite ikibazo.

Nkuko mubibona murabona ko uyu mwana arwaye amenyo ari kwitabwaho na muganga, muganga arimo ararisuzuma neza iryinyo kugira abashe kubona uko amutera ikinya kugira ngo abashe kumukura yisanzuye.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo kikanavurirwamo uburwayi bw'amenyo, harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari kwitabwaho, intebe muganga yicaraho mu gihe ari kumuvura ndetse n'imashini zifashishwa mu gikorwa cyo kuvura amenyo y'iwe.

Umuganga uri mu gikorwa cyo kwihugura ubuvuzi bw'amenyo, yifashishije utwuma tw'imashini, ikoreshwa mu kuvura amenyo ndetse n'igikoresho kiriho amenyo atandukanye, kugira ngo abashe kumenya uburyo azajya avura amenyo no gusuzuma uburwayi afite.

Muganga wambaye ga z'umutuku, arimo gusuzuma amenyo, yifashishije igikoresho cyabugenewe kiriho amenyo atandukanye ,kugirango arebe uburwayi umurwayi ashobora kuza arwaye ku menyo, ari kwihugura kubijyanye no kuvura no gusuzuma amenyo.

Umugabo w'umuganga wicaye mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo amenyo yicaye ku ntebe isa n'icyatsipande hari igitanda kiryamaho umurwayi ugiye kwitabwaho hirya hari imashini zifashishwa mu gihe cyo gusuzumwa no kuvura umurwayi.

Igikorwa cyo guhugura abantu, uburyo bwo kwita ku menyo, hifashishijwe imfashanyigisho ishushanyijeho amenyo, umugabo w'umwarimu wigisha muri kaminuza, arimo gusobanurira umwana uburyo bwo kwita ku menyo ye akoresheje icyo gishushanyo. Inyuma hahagaze abayobozi bitabiriye icyo gikorwa, bitegereza uburyo ari kubimwereka.

Igikorwa gihuje abantu benshi biganjemo urubyiruko ,bateye ihema imbere birimo abaganga bari gusuzuma ndetse abantu batandukanye bari kuza guhabwa serivisi. Ku ihema ryatewe hariho amagambo asobanura igikorwa cyiri kuhabera, handitse ngo umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa . Byumvikanisha ko barimo kwita no gusuzumisha uburwayi mu kanwa.

Igikorwa cyo gusuzuma umwana amenya arwaye, mu kanwa he, bamwica ku ntebe yabugenewe, muganga urimo kumwitaho wambaye ga arimo kumureba mu kanwa kugira ngo abashe kubona amenyo arwaye ayavure akire.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo amenyo, harimo ibikoresho bitandukanye, igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari kwitabwaho, intebe muganga yicaraho mu gihe cyo gusuzuma no kuvura umurwayi, imashini zabugenewe zifashishwa na muganga kugira ngo avure amenyo y'umurwayi.

Umwana uryamye ku gitanda cyabugenewe gisuzumirwa aho barwayi barwaye amenyo, arasamye umuganga yifashishije udukoresho twabugenewe ari gusuzuma amenyo ye kugira ngo abone uko aza kuyavura.

Igikorwa cyo gusuzuma uburwayi bw'amenyo umwana waje kwisuzumisha arasamye muganga urimo kumwitaho akoresheje ibyuma byabugenewe arimo kureba iryinyo ku ryinyo kugira ngo nabone ibirwaye abashe kumuvurakira.

Umusaza udafite imbaraga zo kugendesha amaguru arimo gufashwa n'umugabo ufashe ku ruhande rumwe n'umukobwa ufashe ku rundi, bamuhagurutsa ku buriri, banamufasha kugira ngo abashe kuba yatambuka akoresheje amaguru n'ubwo nta mbaraga afite.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru ufite umusatsi wabaye imvi arimo aragorora amaboko abifashishijwemo n'umuganga wabigenewe umufasha, bari kurebana bamwenyura mu buryo buza kumworohera kurambura no kunanura amaboko.

Umukecuru usanzwe utagifite imbaraga zo kwigendesha n'amaguru, yicaye mu igare ryabugenewe rigendaho abantu badafite uburyo bagendesha amaguru, arimo gusunikwa n'umuganga umushinzwe amujyana aho ashaka kujya.

Umubyeyi ufite imisatsi myinshi, wambaye amataratara, ndetse wambaye ikanzu y'umuhondo arimo gusuka imiti bakoresho kabugenewe, indi irambitse ku meza.

Umubyeyi w'umugore wambaye ishati y'umweru, ufite umusatsi w'imvi aricaye, inyuma ye hahagaze umukobwa wambaye ishati y'icyatsi, bari guseka bombi bishimye banezerewe.

Umugabo w'umusaza ufite umusatsi w'imvi ari kumwe n'umukobwa we wambaye rinete begamanyeho, bigaragara ko bishimye kandi bari kumwenyura, bitegereza umuntu ubari imbere, ubafata ifoto.

Umusaza utagifite imbaraga zo kwigenza n'amaguru ari kumanuka ahantu hato, abifashijwemo n'umuntu umufashe amumanura gake gake kugira ngo ataza kugira ikibazo ubwo aza kuba amanuka.

Umugore ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi y'imvi yambaye isengeri, yarambitse umukeka hasi arimo kuwifashisha akora siporo yashinze inkokora hasi amaguru nayo hasi ikindi gice kiri hejuru agenda akora siporo.

Umukecuru uri kumwe n'umusaza, umugabo wicaye begamye, umwe yegamiye ku wundi baseka bigaragara ko bishimye umwe ko yishimiye undi.

Umugabo ugaragara nk'umusaza ufite imisatsi y'imvi arimo kozwa bigaragara ko atagifite imbaraga zo kwiyuhagira hari umuntu urimo kumwuhagira akoresheje amazi arimo urufuro rw'isabune kugira umusaza abashe kunoga.

Umusaza amufite imvi wambaye amataratara n'utwuma twinyakira amajwi mu matwi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije udukoresho tw'umutuku twabugenewe afasha mu biganza, arimo arambura amaboko kugira ngo abashe gukora siporo.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi, yicaye ku ntebe, imbere ku meza hari imiti ihateretse, afite ikirahuri cy'amazi, arimo guhabwa imiti na muganga umwitaho kugira ngo ayinywe abashe gukira, amererwe neza.

Umusaza utagifite imbaraga nyinshi wicaye mu igare ryabugenewe rifasha abantu batagifite imbaraga mu maguru arimo arakoreshwa siporo zitandukanye zo kunanura amagufa ndetse n'imitsi ari kubifashwamo n'umukobwa w,umuganga wambaye imyambaro y'umutuku n'utwuma mu ijosi twabugenewe tumufasha kugira ibipimo afata.

Umubyeyi w'umugore uhagaze mu cyumba gitunganyirizwamo ibyo kurya, afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, ndetse ikindi kiganza kirimo imiti agiye kunywa, agasomesha amazi kugira ngo bimuvure uburwayi afite abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza urimo gupimwa umuvuduko w'amaraso, umuganga umushinzwe yamwambitse agakoma kabugenewe gapima umuvuduko mu kaboko ndetse agafashe mu ntoki areba uburyo umuvuduko w'amaraso we urimo kugenda, bari gukora icyo gikorwa bishimye, baseka, ubona banezerewe.

Uko mubibona murabona ko ari umuryango wishimiye ibyo bagezeho mu buhinzi. Mu buhinzi bwabo murikubona ko higanjemo ibigori, higanjemo ibisheke n'ibindi byose. Abaturage murikubona ko bishimiye nyine ubuhinzi n'iterambere bagezeho, bitewe n'ubuhinzi bakoze.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugabo ufite ubwanwa bwinshi busa umwe afite akarahuri k'amazi, umukobwa uhagaze iruhande ari kumusukira akantu mu ntoki.

Umugabo n'umugore bicaye, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, uducupa turimo imiti na terefone irambitse ndetse n'impapuro. Umugabo ari kwereka umugore ubwoko bw'umuti uri mu gacupa afashe babiganiraho.

Umubyeyi w'umugore ugaragara ko atagifite ubushobozi bwo kugendesha amaguru, arimo kwifashisha akuma yahawe na muganga kamufasha mu gihe ari gutambuka, ari guhabwa amabwiriza n'umukobwa umuri impande urimo kumufasha kugira ngo abashe kugenda.

Umugabo agaragara nk'udafite imbaraga nyinshi mu kugendesha amaguru, arimo kubyimenyereza yifashishije ibyuma afasheho n'amaboko, ari guhabwa amabwirizwa n'umuganga umwitaho, wambaye imyambaro y'akazi uri kumwerekera uko abigenza kugira ngo abashe gutambuka.

Umubyeyi w'umugore ugaragara nk'ukuze, ufite imisatsi y'imvi, afashe utwuma tubiri mu ntoki ari kwifashisha mu gukora siporo arimo guseka cyane agaragara nk'uwishimiye siporo arimo gukora.

Umubyeyi w’umugore uri kumwe n'abana benshi, bamwe bicaye impande ye, abandi bahagaze inyuma ye barimo kureba imbere baseka bigaragara ko bishimiye kuba bari kumwe n'uyu mugore, nawe kandi aranezerewe byumvikanisha ko yishimiye kubana n’umuryango.

Umusaza ufite imisatsi y'imvi wambaye amataratara, yicaye imbere ye kumezaeza ateretseho amakayi menshi, ndetse afite ikaramu mu ntoki agenda yandika mu ikaye.

Igikorwa cyo gusuzuma umuvuduko w'amaraso, umugabo yateze akaboko, muganga w'umukobwa wambaye itaburiya amwambika akuma kabugenewe gapima umuvuduko, kugira ngo arebe umuvuduko amaraso ye ari kugenderaho.

Umusaza wicaye mu kagare gafasha abadafite imbaraga zo kugendesha amaguru, impande ye hari umwana bari kuganira baseka bishimye ndetse bafashe utwuma twabugenewe twifashishwa mu gukina umukino barimo gukina banezerewe.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe munsi yigiti, imbere muri bo harimo umuyobozi ufite mudasobwa, bigaragara ko ari inama y'abaturage bari gutanga ibitekerezo by'icyakorwa mu gace barimo.

Umugabo n'umugore bagaragara ko bakuze bari ku meza amwe basangira ibyoku kurya birimo imbuto ndetse impande ya buri umwe hateretse ikirahuri cy'amazi baribuze kunywa mu gihe gikwiye bari kuganira ubona ko bishimye banezerewe.

Abantu babiri bicaye mu cyumba. Bafite igitabo bari kureberamo icya rimwe baseka ibyo byanditswemo, impande yabo hateretseho ibikombe bigaragara ko harimo icyo kunywa banyoye.

Umukecuru w'umugore ufite imisatsi y'imvi ari gusuhuza muganga umwitaho wambaye imyambaro y'akazi nakuma agapima yaziritse mu ijosi, amuhereza ikiganza kugira ngo baramukanye.

Umugore n'umukobwa bari mu cyumba, uwo mubyeyi yicaye ku ntebe, umuganga w'umukobwa amuhagaze inyuma, yamufashe mu gituza, bafatana amaboko, ubona bishimye banezerewe.

Umugabo usa nk'aho adafite imbaraga nyinshi zo kugendesha amaguru, arimo kugerageza kugenda yifatishije icyuma cyabugenewe kimwongerera ubushobozi bwo kugendesha amaguru ndetse ari kuyifashwamo n'umuganga w'umugore umuri impande ari kumwerekera buryo ari bwifashishe ako kuma ari gutambuka.

Umugabo urimo gukora siporo zinanura amaboko, abifashijwemo n'umugore wumuganga w'ambaye itaburiya y'umweru n'akuma kabugenewe mu ijosi, bigaragara ko ari umuganga wita ku buzima bw'umugabo.

Abagabo babiri umwe agaragara nk'ukuze wambaye ingofero bafatanye ku rutugu bagenda baseka bishimanye, bari gutambuka n'amaguru mu muhanda ushashemo amatafari ugenewe kugendamo abanyamaguru gusa hagacamo n'ibinyabiziga.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari ameza ariho impapuro nyinshi bafashe rumwe mu rupapuro barikurwerekana baruganiraho bungurana ibitekerezo.

Itsinda ry'umuryango w'umukecuru ndetse n'umusaza, bari kumwe n'abana babo, bafata ifoto y'urwibutso bishimye, banezerewe bigaragara ko uyu muryango udafite ibibazo byinshi.

Umusaza ufite imvi, yicaranye n'umuganga umushinzwe yambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hari imeza iriho ibitabo ndetse n'amakaye, afashe kimwe mu ntoki, umuganga umushinzwe ari kumusobanurira, ibiri kuri icyo gipapuro bafashe mu ntoki.

Umubyeyi w'umugore wambaye umwambaro w'umuhondo ndetse n'amataratara, yicaye ku ntebe arimo kuganirizwa n'umukobwa umuhagaze inyuma, uzinze imisatsi amufashe akaboko kugira ngo baganire bisanzwe kandi bishimanye.

Umusaza n'umugore w'umuganga bicaye ku ntebe, umugore ari gukoresha igipimo cyabugenewe akizirika umugabo ku kaboko kugira ngo apime umuvuduko w'amaraso w'umugabo.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite invi, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite agakoresho yahawe mu ntoki, ndetse ari gukora agendeye ku mabwiriza ari guhabwa na muganga w'umugore uhagaze iruhande, wambaye imyambaro y'ubururu.

Imbere mu bitaro, umurwayi aryamye ku gitanda cy'abarwayi, impande ye hari imashini ifasha muganga kureba ibipimo by'indwara umurwayi arwaye, hirya ye hahagaze umuganga bigaragara ko aje kumwitaho.

Mu bitaro mu cyumba cyabugenewe kibamo abarwayi umugabo arimo kugerageza gutambuka afashe ku byuma, bigaragara ko akaguru ke gafite ikibazo akaba ari ko gatotoza kugenda arimo guhabwa amabwiriza n'umugore uhagaze impande ye wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse ufite imisatsi ipfunditse.

Umugabo n'umwana bari gukina mu kibuga cy'umukino wmaboko; umwana afite umupira arimo kugerageza gucenga umugabo; naho umugabo yamuteze amaboko ashaka kuw'umwambura barishimye, banezerewe

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari ameza ariho ururabyo rw'umutako ndetse hateretse amacupa arimo imiti umusaza arimo kunywa, umukecuru afite agapapuro ari kumwereka uburyo agomba kunywa uwo muti.

Imbere mu cyumba cy'inama abantu bicaye bateze amatwi abo bayobora bicaye imbere yabo nyuma ku gikuta hariho ibishushanyo byinshi n'amagambo asobanura igikorwa kiri kubera kuri icyo gishushanyo hariho arabisi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda ndetse n'ikirango ku rundi ruhande cya repubulika y'u Rwanda.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi biganjemo urubyiruko, bicaye imbere yabo hari ameza, bateretseho ibikoresho birimo mudasobwa n'ibindi, bateze amatwi uri kubagezaho amahugurwa kugira ngo babashe guhugurwa, babone gushyira mu bikorwa ibyo bahuguwe.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu muhanda biganjemo abambaye imyambaro y'umweru, bafite icyapa kinini cyanditseho rubyiruko ni wowe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida, ipimisha uyu munsi bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gukangurira urubyiruko kwipimisha virusi itera sida.

Icyumba cy'inama giteyemo abantu benshi bitabiriye inama, abagabo ndetse n'abagore bicaye bareba itsinda ry'abayobozi ribayoboye ryicaye imbere yabo, umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga ibitekerezo ku bitabiriye inama.

Abayobozi babiri b'abagabo bambaye amakoti y'ubururu, amashati y'umweru na karuvati, bafite ibitabo mu ntoki bareba bafata ifoto y'urwibutso, nyuma yaho hari icyapa kinini gishushanyijeho ibirango bya repubulika y'u Rwanda.

Amagambo manini yanditse mu ibara ry'umweru, ku ibara ry'ubururu handitse ha ndetse na ra hagati muri zo harimo ikiganza kiri gushoboza ikindi, munsi yaho handitse amagambo ngo herifi piipo Rwanda, isobanura ko ari uburyo bwo gukangurira abaturage b'u Rwanda kugira ubuzima bwiza.

Arabisi byandikishijwe mu nyuguti nini cyane mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Ikigo gifasha imibereho y'abaturage mu Rwanda.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda gishushanyije mu ibara ry'ubururu hakoreshejwe ibara ry'umweru, handitseho amagambo munsi yacyo repubulika of rwanda minisitiri ofu helifu, bivuze ngo ni Repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima.

Icyumba kirwariyemo umurwayi urembye, arimo kwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'udupfukamunwa tubafasha kwirinda; impande yabo hari imashini bari kwifashisha mu buryo bwo gukomeza gukurikirana ubuzima bw'uyu murwayi.

Abayobozi abagabo n'abagore bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari igikuta kinini kiri mu ibara kiho ibirango bya repubulika y'u Rwanda bigaragara ko bari mu gikorwa gifitanye isano na repubulika y'u Rwanda.

Igikorwa cyo gukingira abantu, umugore waje kwikingiza wicaye ku ntebe, arimo guterwa urukingo ku rutugu na muganga wabigenewe, umugore ari gushinyiriza bigaragaza ko arimo kuribwa n'urushinge.

Itsinda ry'abantu abagabo ndetse n'abagore, bahagaze ku mukeka w'icyatsi, imbere y'ibyapa binini byamamaza ibikorwa bari barimo, barimo gufata ifoto y'urwibutso banezerewe kandi bishimiye igikorwa cyabahuje.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe, ririmo abaganga ndetse n'abaturage baje kwisuzumisha, hagati muri bo hari ameza ariho imiti n'ibikoresho bari kwifashisha, mu gusuzuma abo baturage baje babagana.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi cyari cyegereye abaturage mu kubasuzuma indwara barwaye, twabonye aho bari bari gusuzuma indwara z'amenyo, hari indwara bita ifumbwe, aho amenyo agenda agacukuka ugasanga hajemo ibintu by'imiseke, abaganga rero baba bari kubitaho batanga ubuvuzi begereye abaturage kugira ngo babahe serivisi inoze.

Umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru n'ijire y'umutuku, ari gusuzuma umukobwa wambaye umupira w'umukara n'imisatsi iboshye, amurambika agakoresho kabugenewe ku kuboko, kugira ngo abashe gufata ibipimo bikwiye.

Umugabo w'umuzungu uhagaze, impande ye hahagaze umukobwa wirabura barimo gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo asobanura igikorwa barimo kugira ngo bacyamamaze.

Icyapa kinini kirimo ibara ry'umuhondo gishushanyijeho ifoto y'umugore ufite agatote imbere ye, hari inyakiramajwi ari kwifashisha mu gutanga ubutumwa yageneye abamukurikiye yanditseho amagambo kandi asobanura igikorwa cyamugejeje aho ndetse n'ibyo arimo kubasha abandi.

Abantu bateraniye mu cyumba bahujwe n'igikorwa cyo gukingira korona virusi bambaye udupfukamunwa, umuhungu bicaye wambaye ishati y'ubururu yabahaye akaboko k'ibumoso bari guteraho urushinge nk'urukingo rwo kumurinda korona virusi.

Umubyeyi w'umugore, wicaye mu ntebe, ufite indangururamajwi, arimo kugeza ubutumwa ku babugenewe ayikoresheje ndetse arishimye muri iki gihe ari gutanga igitekerezo.

Ababyeyi bicaye mu cyumba bafashe abana babo mu ntoki bategereje guhabwa serivisi baje gushaka, barimo kuganira bishimye banezerewe bita ku bana babo kugira ubuzima burusheho kugenda neza.

Itsinda ry'abayobozi rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, bafata ifoto y'urwibutso. Ku gikuta kiri inyuma hari icyapa kinini cyanditseho amagambo asobanura igikorwa cyabahurije hamwe muri iyi nama.

Umubyeyi w'umugore bigaragara ko akuze yambaye ingofero y'umutuku afite igipfuko ku ijisho rye ry'iburyo gisa n'umweru bigaragara ko afite ikibazo bikaba ngombwa ko bamupfuka kugira ngo adakomeza kugira ububabare cyangwa no kugira ibindi bibazo ahura na byo mu gihe haba hadapfutse.

Icyumba cy'inama, gihuriyemo abantu batandukanye abayobozi bicaye imbere y'abo bayoboye, barimo kubagezaho ibitekerezo bijyanye n'inama. Harimo kandi umuhungu ufite kamera, uri kugenda afata amajwi n'amashusho ibiri kubera muri icyo cyumba. Inyuma hari igikuta kinini cyanditseho amagambo asobanura ubwoko bw'inama buri kubera aho hantu.

Abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore bambaye udupfukamunwa, bamwe bicaye abandi bahagaze imbere y'inyubako iri mu bitaro baje gushaka serivisi ndetse bamwe muri bo baje kuzihabwa.

Itsinda ry'abantu bahagaze batandukanye bambaye udupfukamunwa imbere y'inyubako yanditseho Isange wani sitopu senta Kabutare hosipito bivuze ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bya isange wani sitopu senta iherereye mu bitaro bya Kabutare.

Inyubako nini yanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha, imbere yayo hicaye ababyeyi babiri bari kumwe n'abana, bigaragara ko baje gushaka serivisi muri iki kigo nderabuzima, cyifashishwa n'abaturage baturiye muri ako gace kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Imbere mu nyubako y'ubucuruzi bw'imiti hariho amagambo yanditse ngo porogeresi foromasi isobanuye ko ari inyubako yitwa porogeresi foromasi icururizwamo imiti, imiti ibitse mu buryo butandukanye byorohereza uyicuruza kubona imiti arigusabwa n'uje kuyigura.

Imbere mu bitaro mu cyumba kiryamamo abarwayi mu gihe bari kwitabwaho n'abaganga harimo ibitanda baryamaho ndetse nakameza baterekaho imiti mu gihe baje kwita ku barwayi.

Imbere mu bitaro mu cyumba gisuzumirwamo kinavurirwamo abarwaye, harimo igitanda umurwayi aryamamo mu gihe ari kwitabwaho, intebe muganga yicaraho mu gihe cyo kuvura umurwayi, imashini iri hejuru muganga yifashisha mu gikorwa cyo kuvura uburwayi urwaye afite.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara bapimye mu murwayi, aho batabasha kuyibonesha amaso cyangwa kuyibona mu buryo bworoshye, bagakoresha imashini, bareba niba indwara iri mu maraso bapimye.

Abaganga babiri b'abagabo bambaye imyambaro yabugenewe, itaburiya ndetse n'udupfukamunwa, bahagaze bitegereza mu mashini bareba ibintu birimo bitujuje ubuziranenge.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyagenewe kwicaramo abarwayi bategereje kugerwaho mu guhabwa serivisi, hicayemo abantu benshi batandukanye, muganga ari kugenda aganiriza umwe umwe amubaza ibijyanye na serivisi yaje gusaba.

Inyubako nini cyane ingeretse y'amatafari, iparitseho moto imbere yayo ndetse n'ibigega bifata amazi mu gihe cy'imvura, imbere kandi hari ibyapa byamamaza binaranga ibikorwa bibera kuri iyo nyubako.

Umuryango w'ubucuruzi uparitseho moto imbere yawo hejuru uriho icyapa kinini cyamamaza ko hariho farumasi inyubako icururizwamo imiti, abaturage baza kugura imiti hanyuma bakabasha kwivura.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, kiriho igitanda umurwayi aryamaho, imashini iri hejuru muganga yifashisha mu gihe cyo gusuzuma no kukuvura umurwayi ndetse, n'ibindi bikoresho muganga ashyiramo imiti kugira abashe kuvura umurwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye, intebe umurwayi yicaraho mu gihe arimo kwitabwaho, imashini muganga yifashisha mu gihe cyo kuvura umurwayi ifite ikirahuri cya mudasobwa areberamo ibijyanye na serivisi ari gutanga ndetse n'ikirahuri cya mudasobwa kiri ku gikuta yifashisha.

Inyubako y'umweru ifite amabati y'ubururu yanditseho inzu y'ababyeyi, yumvikanisha ko yifashishwa n'ababyeyi bakeneye serivisi ijyanye no kubyara kwa muganga.

Inyubako ikikijwe n'uruzitiro rw'indabo yanditseho '' ikigo nderabuzima cya rwerere '' bigaragara ko ari nyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima kitwa rwerere.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyesuzumirwamo kikanavurirwamo umurwashyi harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bari kumwitaho ndetse n'imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvura umurwayi harimo kandi akabati kabahomo ibikoresho umuganga yifashisha mu gihe cyo kwita ku umurwayi.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo kikanasuzumirwamo abarwayi, harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti, muganga ari bwifashishe avura umurwayi, harimo abaganga barimo kwita ku barwayi.

Inyubako nini ziriho igishushanyo cy'ijisho ndetse n'amagambo, aho bavurira amaso bigaragara ko ari ibitaro bifite igice cyabugenewe cyita ku barwayi b'amaso.

Abantu bari mu gikorwa cyo gukingira indwara umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe birimo ga ndetse n'itaburiya harimo gukingira umuhungu yicaye ku ntebe amanuye umwambaro yerekana urutugu kugira ngo muganga abe ariho atere urushinge.

Icyumba cy'inyubako yahariwe gukorerwamo siporo, kirimo imashini zitandukanye ukora siporo yifashisha, buri mashini ifite ikirahure cya mudasobwa, kereka ukora siporo ubwoko bwa siporo agiye gukora ndetse n'igihe biri kumusaba kuyikora kugira ngo imibiri yabo igire ubuzima bwiza.

Imbere mu bitaro mu cyumba gisuzumirwama kikanavurirwamo abarwayi barembye, abaganga bambaye imyenda yababugenewe, ibarinda kugira ikibazo bakura mu kuvura umurwayi, abarwayi baryamye ku bitanda byabugenewe baryama mu gihe cyo kwitabwaho, ndetse muri icyo cyumba harimo intebe n'ameza abaganga bifashisha mu gihe bari kwita ku murwayi.

Inyubako ifite icyumba cyagenewe gukorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye, imashini ukora siporo yifashisha ifite ikirahuri cya mudasobwa areberamo ubwoko bw'umwitozo ari gukora ndetse n'igihe kiri kumufata ku kuwukora.

Imbere mu kigo cy'ibitaro hari inyubako nyinshi zitangirwamo serivisi zo kwivuza, hateraniyemo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore baje mu gikorwa cyo kwivuza, bicaye bategereje ko bagerwaho, hanyuma bagahabwa serivisi.

Inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Gishweru, ihagazeho abagabo ndetse n'abagore bamwe bakorera mu kigo, abandi baje gushaka serivisi, ikaba yifashishwa n'abaturage batuye muri ako gace mu kwivuza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubucuruzi iparitseho moto, imbere yayo hejuru hari icyapa kinini byanditseho paniye farumasi, bisobanura ko ari inzu ikorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi bw'imiti, aho abantu bakeneye kwivuza bakoresheje imiti bandikiwe na muganga, baza kuyigurira.

Imbere mu bitaro, mu cyumba cyabugenewe kirimo ibitanda bitandukanye, bicumbikira abarwayi bakeneye kuguma bitabwaho n'abaganga, bari kwa muganga. Harimo ibitanda biryamaho abo barwayi; bisasheho amashuka y'icyatsi, ndetse buri gitanda cyashyizweho uburyo bworohereza muganga, gushyiraho ibikoresho, arimo kuvura umurwayi.

Imbere mu nyubako, mu icyumba kinini cyabugenewe, giteyemo intebe zicaramo abantu, bategereje ko bagerwaho kugira ngo bahabwe serivisi zo kwivuza, hicayemo abantu bategereje, izindi ntebe nta muntu uzicayemo.

Icyumba cyabugenewe kirimo utubati dutandukanye, cyagenewe kubika imiti cyangwa ibipimo biba byafashwe kwa muganga, harimo imiti iziritseho amashashi mu buryo bwo gusobanura iyifunzemo.

Icyumba gisuzumirwamo umurwayi harebwa uburwayi afite, kirimo intebe muganga yicaraho mu gihe cyo gusuzuma umurwayi, ndetse n'intebe yabugenewe umurwayi yicaraho kugira ngo harebwe uburwayi afite, harimo ibindi bikoresho byifashishwa nko guterekaho imiti ndetse n'ibindi bikoresho biri bwifashishwe.

Imbere mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo umurwayi harebwa uburwayi afite, kiriho aho umurwayi aryama ndetse n'intebe muganga yicaraho ari kumusuzuma, hejuru hari imashini yifashishwa mu gupima uburwayi umuntu afite.

Imbere mu cyumba cyo gutegezamo harimo intebe zitandukanye hicaramo abantu bakeneye kugerwaho, mu ngohabwa serivisi ndetse hejuru mu cyumba harimo akuma kabugenewe, kizunguza gatanga umwuka mu gihe wabaye muke.

Inyubako nini ifite ahahagarara imodoka imbere yayo, ndetse hahagaze abantu batandukanye n'imodoka kuru ruhande hariho uburyo bufasha abaje mu bitaro kwinjira ndetse no kubasura.

Umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano ishati y'ubururu n'igitambaro cy'umweru mu mutwe arimo kwita ku mwana w'uruhinja ruryamye mu gatanda kabugenewe hifashishijwe ibikoresho bitandukanye nk'imashini n'amatara amumurikira arimo arita ku mwana.

Inyubako ndende, ifite agace gaparikwamo imodoka, ku marembo yayo hari ibyuma bifasha mu gutanga uburenganzira bwo kwinjiza ikinyabiziga, cyangwa kugisohora, impande yayo kandi hari icyapa kinini cyanditseho hospital, bigaragara ko ari inyubako y'ibitaro.

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe kirimo imashini isuzuma umurwayi hariho igitanda cyabugenewe gishyirwaho umurwayi, noneho muganga agafunga agafata ibipimo ashingiye uko imashini ikora, ku ruhande hari uturahuri tubiri agenda areberamo ibijyanye n'uburwayi bw'umu.

Imbere mu bitaro mu cyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo umurwayi, harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari kwitabwaho, intebe yicaramo muganga urimo kuvura umurwayi, ndetse n'ibindi bikoresho bitekwaho imiti n'ibikoresho umuganga ari kwifashisha harimo kandi ibirahuri umuganga areberamo uko uburwayi bw'umurwayi buhagaze.

Imbere mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo, kikanasuzumirwamo umurwayi, harimo ibikoresho bitandukanye n'igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari kwitabwaho, Imashini zifashishwa na muganga mu gihe ari kwita ku murwayi, ndetse n'ibikoresho byabugenewe byo kujugunywamo imyanda mu gihe muganga amaze gukoresha ibikoresho.

Imbere mu kigo harimo inyubako zitandukanye imihanda yifashishwa n'abantu bagendesha amaguru amatara amurika mu gihe cya nijoro ndetse n'indabo ziteye n'umucaca bicaramo abantu mu gihe bategereje.

Mu nyubako y'ibitaro, harimo itsinda ry'abaganga benshi bashinzwe kwita ku barwayi, harimo kandi umukobwa urimo gutambuka wambaye imyambaro y'ubururu y'akazi, ajya aho bagenzi be bari kugira ngo bakomereze hamwe igikorwa cyo kwita ku barwayi.

Inyubako zubatse mu buryo bw'uruziga, mo hagati muri zo harimo umucaca uteyemo igiti, ndetse ku nyubako hari ikigega gifata amazi aturuka ku mabati, mu gihe cy'imvura.

Imbere mu bitaro mu cyumba kinini cyabugenewe kiryamamo abarwayi bagikeneye kwitabwaho bari kwa muganga, buri gitanda gifite inzitiramibu iri hejuru bamanura mu gihe cya nijoro kugira ngo birinde ko imibu yabarya bakagira uburwayi bwa malariya.

Umukobwa bafite ikibazo cy'uburwayi barwariye kwa muganga, aryamye ku gitanda, umubyeyi w'umugore muganga wambaye imyambaro y'akazi aje kumusuzuma, arimo aramubaza ibibazo kugira ngo arebe niba arimo gukira, ubuzima bwe buri kugaruka ku murongo.

Imbere mu bitaro harimo ibitanda bitandukanye birara aho abarwayi bakeneye gukomeza kwitabwaho n'abaganga bari mu bitaro, hariho ibirahure byabugenewe byerekana ibipimo by'ubuzima umurwayi ariho, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga mu gihe ari gusuzuma umurwayi.

Igikorwa cyo gusuzuma umurwayi wicaye ku ntebe, abaganga bari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso bamwambika akuma kawupima ku kaboko kugira ngo barebe ibipimo umuvuduko we uri kugenderaho. Ku ruhande hariho abandi baganga bari kwandika no gufata raporo y'ibyakorewe hano.

Icyumba gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, hateraniyemo itsinda ry'abaganga, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro y'akazi, amataburiya y'umweru. Ku meza abari imbere hari ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gihe cyo kwita ku murwayi.

Inyubako nini ifite amabendera atatu ayishinze imbere, iteraniyeho abantu bayihagaze imbere, yanditseho kingi fayizari hosipito, byumvikana ko ari inyubako y'ibitaro bya kingi fayizari, abantu baboneramo serivisi zo kwivuza.

Imbere kwa muganga mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo kikanasuzumirwamo umurwayi, ari mu gitanda aryamaho mu gihe ari kwitabwaho n'umuganga, ndetse n'imashini iri ku ruhande rufite ikirahuri cya mudasobwa muganga yifashisha ari kureba uburwayi uwo ari kuvura afite.

Icyumba cyo kwa muganga kiri gukorerwamo igikorwa cyo kuvura umurwayi, bamuryamishije ku gitanda cyabugenewe umurwayi aryamaho, muganga yicaye ku ntebe imufasha kwita ku murwayi, impande ye hahagaze abandi baganga bamufasha kumugezaho ibikoresho ndetse no kumugira inama mu gihe ari kwita ku murwayi.

Icyumba gikorerwamo igikorwa cyo kwita no kuvura ku barwayi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'intebe muganga abayicayeho mu gihe ari kumusuzuma, n'imashini yifashisha mu buryo bwo kuyivura.

Imbere mu bitaro aho bakirira abarwayi baje kwivuza, harimo intebe zicaraho abarwayi bategereje kugerwaho, ndetse n'umukozi w'ibitaro ushinzwe kubakira, kugira ngo baze kugerwaho mu guhabwa serivisi.

Amarembo manini yanditseho Kigina Health Center; bisobanura ko ari ikigo nderabuzima cya Kigina, ayo marembo yifashishwa n'abantu bajya banava mu kigo nderabuzima, impande yayo hahagaze umubyeyi w'umugore uhetse umwana, arimo kumusimbiza kugira ngo ataguma kurira.

Imbere mu kigo cy'ibitaro harimo amazu menshi akorebwamo serivisi zitandukanye, harimo kandi indabo zigiye zikikije imihanda inyurwamo n'abantu bari gushaka serivisi ndetse n'ibiti binini byongera akayaga mu bitaro.

Imbere kwa muganga mu biro bikorerwamo n'umuganga, harimo ibikoresho n'utubati tubika imiti n'ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma no kuvura umurwayi. Hari kandi mudasobwa akoresha mu kazi ndetse n'ibindi yifashisha mu gihe ari gutegura kuvura umuntu.

Inyubako ifite imiryango itandukanye ikorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi, impande yayo haparitse imodoka, ku cyapa kiri kuri iyo nzu handitseho Diasol pharmacy Remera. Byumvikanisha ko ari inyubako ifite umuryango ukoreramo pharmacy y'i Remera, aho bacururiza imiti ku barwayi bayikeneye.

Imbere mu bitaro mu cyumba kirwariyemo abantu barembye, baryamye ku bitanda byabugenewe, impande yaho hari ibyuma bibafasha mu kubagezaho imiti mu gihe gikwiye, ndetse harimo umuganga urimo kwita ku murwayi , hamanitse kandi supanete zibafasha kubarinda uburwayi bwa malariya, mu gihe bari kwitabwaho mu bitaro.

Imbere mu cyumba cy'inama abaturage bicaye ku ntebe bitegereza umugabo uhagaze imbere urimo kubagezaho inama, impade y'umugabo hari icyapa kinini cyanditseho bijyanye n'iyo nama barimo, impande y'umugabo nanone hari abandi bagabo babiri bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza bigaragara ko baza gufasha umugabo uhagaze kugeza inama ku baturage.

Imbere mu bitaro icyumba cyabugenewe gisuzumirwama kikanavurirwamo amaso harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe bicaramo umurwayi ugiye kuvurwa ,intebe yicaraho muganga urimo kumuvura ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa umuganga akoreshe mu mugihe cyo kuvura umurwayi harimo ibindi bikoresho by'imitako bigaragaza ko iki cyumba aricyo kivurirwamo amaso.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyahariwe kuvuriramo abarwayi barembye harimo ibitanda biryamyeho abarwayi baconetse amaserumo abafasha kubongerera imbaraga mu mubiri.

Imbere mu bitaro mu cyumba giteraniyemo abaganga benshi bambaye impuzankano y'umweru n'umukara, bamwe baricaye abandi barahagaze baganira, ku ruhande rwabo hariho ameza abasha kubika no gushyirwaho ibikoresho bifashisha mu gihe bari kwita ku barwayi.

Bamwe ba bavuga kwa muganga, yanditseho laboratwari, bisobanura ko ariho basuzumira ibipimo waba bafashe, yicaho abantu imbere yayo, abagore ndetse n'abana bari kwafasherivisi umukozi uri gukora muri iyi nyubako.

Imbere mu nyubako mu gace kabugenewe, kicaramo abantu bategereje kugerwaho mu guhabwa serivisi, harimo intebe bicaraho bategereje ndetse ku gikuta hashushanyijeho ijisho nk'igikorwa cyo kugaragaza ko ariho havurirwa amaso, ku ruhande hariho agace kakirirwamo umuntu, kaba kariho umuganga ushinzwe kwakira abaje guhabwa serivisi y'amenyo.

Imbere kwa muganga mu cyumba cyabugenewe kiryamamo abarwayi bakeneye kuguma kwitabwaho n'abaganga bari kwa muganga, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'icyatsi ndetse ku gitanda hariho uburyo bwashyizweho bworohereza umuganga kureba uburwayi ari gusuzuma umurwayi.

Imbere mu bitaro, mu cyumba kinini cyabugenewe, kirimo ibitanda biryamaho abarwayi bacumbikiwe batabasha gutaha, bikenewe ko bitabwaho n'abaganga, bari mu bitaro, hamanitsemo amasupanete abafasha kugira ngo bataza kugira ubundi burwayi bwa malariya bandurira kwa muganga, harimo abarwayi benshi baryamye ku bitanda abaganga bari kubitaho n'abarwaza bo kubafasha.

Agace karimo inyubako nini ziri kubakwa zitarasozwa, haraguru yazo hari umuhanda w'ibitaka urimo guca abantu batandukanye bajya mu kazi ka buri munsi gushaka ubuzima.

Imbere mu nyubako mu cyumba cyabugenewe, gikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bitandukanye, ibyuma abakora siporo bifashisha, imirongo bifashisha mu gihe barimo gukora siporo, ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha gukora siporo mu buryo bukwiye.

Imbere mu bitaro mu cyumba kinini cyahariwe gucumbikira abarwayi, mu gihe bategereje gukomeza kwitabwaho n'abaganga, kirimo ibitanda bitandukanye, biryamaho abo barwayi ndetse na supanete zimanitse hejuru, zibarinda ko bagira izindi ndwara bahura nazo mu gihe bacumbitse mu bitaro.

Imbere mu bitaro mu cyumba kivurirwamo indembe haryamye umugabo ucometseho imigozi iba ku mashini zongerera zikanafasha umuntu kugira ubuzima bwiza zimurinda ko yakangirizwa n'indwara mu gihe gito, yambaye agapfukamunwa ameze nk'utegereje umuganga uza kumwitaho amuvurakire.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bya siporo irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibyuma, uwaje gukora siporo yifashisha mu kuyikora ndetse n'uburyo azakwifashisha aruhuka.

Icyumba gisuzumirwamo umurwayi gifite imashini zitandukanye y'umurwayi yicaraho mu gihe harimo gusuzumwa, ndetse n'izo muganga akoresha afata ibipimo by'uburwayi umurwayi arwaye.

Itsinda ry'abantu bateraniye ku kigo nderabuzima, aho bakirira abantu. Hariho amagambo yanditse ngo ''aho bakirira abagana ikigo nderabuzima'', bisobanura ko ako gace kicaramo abantu bategereje bahabwa serivisi na muganga.

Imodoka iri gusohoka mu gipangu cy'inyubako nini cyane, gifite ibigega hejuru bijyamo amazi ndetse n'iminara ibafasha mw’itumatumanaho. Bari gufungurira imodoka isohoka hifashishijwe ibyuma byabugenewe, bitanga uburenganzira mu gukomeza cyangwa guhagarara kw’ibinyabiziga.

Imbere mu nyubako harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe imashini ndetse n'ibindi, byifashishwa n'abantu baje gukora serivise hano muri iyi nyubako.

Icyumba cyihariye gikorerwamo siporo, kirimo ibikoresho bitandukanye ukora siporo yifashisha, nk'imashini ndetse n'ibyuma byo guterura bifasha umuntu waje muri siporo, kunanura imitsi n'amagufa by'umubiri we.

Imbere mu bitaro mu cyumba gicumbikira abarwayi bakeneye kwitabwaho n'abaganga bacumbikiwe mu bitaro, harimo ibitanda abarwayi baryamyeho ndetse hejuru ya buri gitanda habonetse supanete mu rwego rwo kwirinda ko barwara malariya, bari mu bitaro.

Imbere mu cyumba cy'ubuvuzi, aho umurwayi yicara bakamusuzuma ndetse harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe umurwayi yicaramo, intebe muganga yicaraho ndetse n'imashini yifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umurwayi.

Imbere mu bitaro harimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse ku marembo hatanmbitsemo icyuma, gitanga uburenganzira bwo gusohoka no kinjira ku binyabiziga, harimo n'ibyapa binini byanditseho mu magambo asobanura gahunda zihari z'ibitaro.

Imashini nini cyane y'umweru, iri mu cyumba cyo kwa muganga, yifashishwa mu gusuzuma umurwayi, umurwayi ayijyaho hanyuma muganga akamufata ibipimo, ku ruhande hari intebe muganga yicaraho ari kumusuzuma, ndetse n'akabati karimo ibikoresho byifashishwa mu gihe cyo kumwitaho.

Inyubako nini yanditseho inzu y'ababyeyi n'impinja bisobanura ko ikorerwa mo ibikorwa byo kwita ku babyeyi ndetse n'impinja zavutse kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini yanditseho Nyarugenge District Hospital byurumvikana ko ari inyubako y'ibitaro by'aAkarere ka Nyarugenge, ifite indabo imbere yayo ndetse n'umuhanda ucamo abanyamaguru.

Imbere mu bitaro mu gace kavurirwamo abarwayi, hariho ibyumba bitandukanye byicaramo umurwayi mu gihe ari kuvurwa ndetse n'abaganga mu gihe bari kumwitaho. Harimo kandi aho bakirira umurwayi uje gushaka serivise kugira ngo bamuhuze n'umuganga umukeneye.

Amarembo manini hejuru handitseho kabgayi hospital bisobanura ko ari amarembo akoreshwa n'abantu binjira cyangwa basohoka mu bitaro bya kabgayi.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe gisuzumirwamo kikanavurirwamo abarwayi, harimo imashini zifashishwa na muganga mu gihe ari kwita ku murwayi ndetse n'intebe yicaraho, harimo kandi ibirahuri bigaragaramo uburwayi bw'umurwayi mu gihe barimo ku musuzuma.

umuganga wambaye itaburiya, amarinete afite n'umusatsi uringaniye, afite akuma kabugenewe yambaye mu zosi ndetse n'agatabo karimo ibijyanye nibyo ari kubwira abaturage bicaye bamuteze amatwi ari kumwenyura bigaragara nkubishimiye.

Mu kigo cy'ibitaro, harimo abantu benshi batandukanye, ndetse haparitse imodoka y'umukara, abantu bari kuganira abandi batonze umuronko bategere iyo serivisi baza guhabwa, ijyanye no kwivuza.

Amarembo manini yanditseho Kigina herifu senta, bisobanura ni ikigonderabuzima cya Kigina, imbere yaho hahagaze umubyeyi w'umugore, ahetse umwana urimo kumusimbiza kugira ngo ataguma kurira.

Imbere kwa muganga mu cyumba basuzumiraho bakanavuriraho umurwayi, harimo igitanda aryamaho mu gihe cyo kumusuzuma no kumuvura ndetse n'ibirahuri byifashishwa mu gihe barimo kwerekana uburwayi umurwayi afite.

Imbere mu bitaro, mu cyumba kivurirwamo kikanasuzumirwamo abarwayi, harimo intebe umurwayi yicaraho mu gihe ari gusuzumwa, imashini muganga yifashisha mu gihe cyo gusuzuma umurwayi, afite ikirahuri cya mudasobwa areberamo ibijyanye n'ibipimo ari gufata kugira ngo hamenyekane, uburwayi umurwayi arwaye abashe kuvurwa akire.

Imbere mu nyubako, mu gace kabugenewe kicaramo abantu barimo kwisuzumisha uburwayi, harimo intebe abarwayi bicaramo ndetse n'utwuma twabugenewe twifashishwa mu gihe cyo kubasuzuma, hejuru mu nyubako hari ibyuma byikaraga bitanga umuyaga mu gihe babaye muke mu nyubako.

Imbere mu cyumba gihuriyemo abantu batandukanye, abaganga ndetse n'abarwayi mu buryo bwo gusuzuma cyangwa se gukingira uburwayi naho umugore uri kugendadera mu igare rifasha abadafite imbaraga zo kugendesha amaguru, yaje kwikingiza, umuganga wambaye imyambaro y'umweru n'agapfukamunwa urimo kumutera urushinge ku kaboko.

Umusore urimo gukora siporo apfukamye hasi, akanda mu ivi yumvikanisha ko harimo kibazo cy'uburibwe, akaba agerageza kugira ngo ataguma kuribwa, ndetse n'ivi rye rikire.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo ikabutura, isengeri ndetse n'inkweto arahagaze yunamye bigaragara ko yari muri siporo akaba ananiwe akaba afashe umwanya wo kuruhuka.

Umukobwa uri mucyumba yicaye ku buriri yambaye imyambaro, ipantaro y'umukara nvisengeri y'umukara afite imisatsi miremire arimo kwinanura bigaragara ko yari abyutse akaba yumva umubiri we wari ukeneye kwinanura akinanura azamuye amaboko hejuru.

Intebe yabugenewe yicaraho abantu bafite ikibazo kutagendesha amaguru, ifite amapine yababugenewe intebe yicararaho uwo murwayi ndetse inyuma hariho utwuma umurwaje afataho mu gihe ari kumutwara amuvana mu gace kamwe amujyana ahandi.

Igice cy'amagufa y'urutirigongo cyafotowe n'ishini yabugenewe ifata ifoto y'amagufwa kugira ngo yifashishwe na muganga areba amagufa afite ikibazo, ahere ko ayavure mu umurwayi akire.

Icyumba giteraniyemo urubyiruko umwe waryamishijwe hasi bigaragara ko afite ikibazo ari kwitabwaho na bagenzi be bapfukamye hasi bareba ikibazo afite kugira ngo bamufashe bamuvure abashe gukira.

Umuntu uryamye ku gitanda arimo aritabwaho n'umuganga amurambika agakoresho kabugenewe ku ivi rigaragara ko afite ikibazo cy'uburibwe mw' ivi amufasha kugira ngo bugabanyuke ndetse bunakire.

Imbere mu bitaro mu cyumba cyabugenewe kivurirwamo umurwayi urembye, harimo abaganga bane bari kwita ku murwayi, bamuryamishije ku gitanda cyabugenewe, ndetse impande yabo hari ameza atekwaho ibikoresho, hirya hari imashini zifashishwa mu kuvura umurwayi urembye.

Imbere mu cyumba gikorerwamo ibikorwa byo kunanura umubiri aho harimo ibitanda bitandukanye biryamaho abantu hanyuma abakozi babishinzwe bakabafasha mu kunanura umubiri n'amagufa.

Mu cyumba cya siporo, umukobwa wambaye imyambaro ya siporo, inkweto, ikakabutura ndetse n'isengeri n'imisatsi myinshi, arimo gukora siporo yifashishije akuma kabugenewe agasunika, arambura imitsi, amaguru, amaboko ndetse n'umugongo.

Umuntu ufite ikibazo mu maguru, arimo kwitabwaho na muganga uhagaze impande ye, amuha amabwiriza yo gukoresha ibyuma biri mu maguru ye, kugira ngo akire uburwayi, agire ubuzima bwiza.

Imbere mu bitaro mw,isuzumiro harimo umubyeyi wazanye umwana we kumuvuza ndetse n'umuganga urimo kuvura umwana muganga imbereye hateretse ameza ariho ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa n'ibindi yifashisha mu kura umwana afite akuma mu ntoki ari gutunga mu ijisho ry'umwana kugira ngo arebe ko abona uburwayi arwaye.

Imbere mu nyubako ya siporo harimo abasore babiri bari gukora siporo, umwe aryamye ku gitanda aruhuka undi ahagaze impande ye baganira, nyuma yuko bafashe akaruhuko gato kugira ngo bagaruke muri siporo.

Umuhungu uri gukora siporo mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye: imipira, ibyuma, imyitozo ndetse n'ukukeka w'icyatsi, akoresha mugihe arimo gukora siporo.

Umuhungu w'umusore wambaye isengeri y'icyatsi uhagaze ufashe icupa ry'amazi ari kugotomera, bigaragara ko yari afite inyota yo kunywa amazi akaba ayabonye.

Imbuto zitandukanye zirambitse hasi ku ruhande rwazo hari utwuma ukora imyitozo ngororamubiri yifashisha, iyo amaze gukora iyo myitozo ku ruhande rwe haba hari izo mbuto kugira ngo azirye agarure ubuzima ku murongo.

Umwana w'umukobwa uri muri siporo yambaye umupira w'umutuku ufite imisatsi izirikiye inyuma, afite akuma kazirikiye ku kuboko kw'iburyo gadafite inyakiramajwi z'umweru yambaye mu matwi ari kunywa amazi akoresheje agacupa ,bigaragara ko ari muri siporo ageze umwanya wo kunywa amazi.

Imbuto, imboga, icupa riri kuvamo ibinini, utwuma twa siporo ndetse n'imidari y'ishimwe birambitse hasi, n'uburyo bwo gushishikariza abantu gukora siporo, barya imbuto n'imboga ndetse n'ibinini kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza banagere ku bihembo bikwiye.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara ipfunditse izirikiye inyuma, yambaye isengeri ari muri siporo, afite akuma yazirikiye ku kaboko gafite inyakiramajwi z'umweru yambaye mu gutwi. Afite icupa ry'amazi arimo kugenda asoma bigaragara ko yari muri siporo akaba ageze mu mwanya wo kunywa amazi.

Umugabo n'umugore bari mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umugabo asutamye hasi ari gukora siporo mu gihe umugore amuhagaze iruhande amugira inama y'uburyo yakora siporo neza.

Umubyeyi w'umugore uri gusuzuma umwana akoresheje akuma kabugenewe ari kukamurika mu maso kugira ngo arebe uburwayi umwana afite, imbere y'umuganga hateretse imeza iriho ibintu byinshi bitandukanye imashini yifashisha, telefone ndetse na mudasobwa byifashishwa mu gihe cyo gusuzuma umurwayi.

Icyumba kirimo ibitanda biriho abagore n'abana babo umugore aricaye k'igitanda umwana we yicaye imbere ye barimo kuganira undi mugore aryamye hirya bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi akaba ategereje abaganga ko bamwitaho.

Imbere mu bitaro mu cyumba kivurirwamo abarwayi barembye, harimo umuganga uri kwita ku murwayi ndetse n'imashini imufasha kureba urwego uburwayi bw'umurwayi bugezeho, yifashishije imibare irimo kumwereka, akabasha kubona uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Umusore wambaye agasengengeri urimo kunywa amazi bigaragara ko yararimo gukora siporo akaba ananiwe ageze mukanyaya ko kunywa amazi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uhagaze ufite imisatsi izinze wambayesengeri y'icyatsi urimo kunanura amaboko ndetse n'umugongo agerageza gukora siporo.

Ikigo gikorerwamo siporo, gihuriyemo abana benshi bahagaze batandukanye. Imbere yabo hari umuyobozi uri kubafasha gukora siporo, aho barimo gusimbuka ndetse bagakora ibindi arimo kubereka gukora muri siporo.

Icyuma kirimo abantu batandukanye bambaye udupfukamunwa, umuganga wicaye ku ntebe afite akuma kabugenewe ari gutunga mu kanwa k'umwana bafashe, kugira ngo arebe ikibazo afite mu kanwa ke.

Ukobwa wambaye imyambaro ya siporo, ari mu cyumba, arimo gukora siporo yicaye ku kumukeka, arimo arananura amaguru ndetse n'amaboko n'umugongo kugira ngo ubuzima bugende neza.

Umuhungu uhagaze w'umusore, wambaye agapira k'umukara hejuru, arimo kunywa amazi akoresheje icupa, bigaragara ko yari afite inyota, akaba anyoye amazi kugira ngo ubuzima bwe bujye kumurongo.

Mu kibuga cy'umupira abagabo babiri bari muri siporo, umwe aryamye hasi undi amufashe mu ivi bigaragara ko ashobora ko agize ikibazo cy'imvune mu ivi barimo kumufasha kugabanya uburibwe.

Itsinda ry'abantu baje gusura umurwayi urwaye akaguru uryamye ku gitanda wakamanitse ku twuma twabugenewe tumufasha ko kamera neza, impande ye hahagaze abaganga bashinzwe kumukurikirana kugira ngo akaguru ke gakire.

Imipira itandukanye irimo umupira w'amaguru n'uw'amaboko, irambitse hasi kugira ngo ushishikarize abantu gukunda no gukurikira siporo, mu buryo bwo kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa urimo ukora siporo ngororamubiri, yarambitse umucyeka w'ubururu hasi awicayeho arimo kugorora umugongo n'amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ugaragara nk'udafite imbaraga zo kugendesha amaguru, arimo kugerageza kugenda ahabwa amabwizwa n'umuntu w'umuganga umwitaho umuri inyuma wambaye umwambaro w'icyatsi.

Inkweto ndende z'umukara zifite agapapuro kanditseho bato, gashushanyijeho, bisobanura ko kerekana ubwoko bw'iyo nkweto ndetse na henshi ikunda gukoresha, cyane cyane ku bantu bari kuzamuka imisozi.

Umugabo wategetswe gukora siporo zigorora umubiri, ari kwifashisha agatambaro agakoresha ku mategeko ari guhabwa n'umuganga uhagaze impande ye nyuma yo kumufasha kugira ngo imitsi n'amagufa ye birusheho gukira agira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore umwe yegamiye ku wundi bafite amacupa y'amazi bari kugotomera bazamuye ijosi, bigaragara ko bari bafite icyaka bakeneye amazi yo kunywa kugira ngo baruhuke.

Imipira y'ubwoko butandukanye bijyanye n'umukino ukoreshwamo hariho umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'akuma kagaragaza aho umupira w'amaboko bawujugunya kugirango batsinde, n'ibindi bikoresho byifashishwa muri siporo zitandukanye.

Umuhungu wambaye imyambaro ya siporo ikabutura y'umukara, umupira w'umweru ndetse n'inkweto za siporo, arahagaze ari gukora siporo ananura amaguru, ibirenge ndetse n'amaboko, arimo akoresha akaboko ke k'iburyo agateruza akaguru ke k'iburyo akandi kaboko yaragafatishije hano mu rukenyerero.

Amavuta y'ubwoko butandukanye n'ibikoresho bikoreshwa n'umuntu uri muri siporo bipanze mu buryo butandukanye kugira ngo biza kumwemwemerera kubikoresha bitamuvumye kubishaka.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo ikabutura ndetse n'isengeri, yarambitse umukeka hasi arimo kuwukoreraho siporo yo kunanura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo n'ijosi. Ku ruhande hari ibindi bikoresho yifashisha muri iyo siporo.

Igikapu gifite imifuka myinshi itandukanye, gisa umutuku. Kijyamo ibikoresho umuntu yifashisha mu gihe ari gukora siporo, kugira ngo ize kugenda neza. Ndetse niba ari n'ibyo kurya akabitwaramo kugirango bize kumfasha kugarura ubuyanja.

Imbere mu cyumba cyita ku bijyanye na siporo harimo imashini nyinshi zitandukanye ndetse harimo abantu babiri, umukobwa wicaye ku mashini arimo gukora, umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru ugaragara nk'umuha amabwiriza y'ibyo ari gukora.

Umukobwa warambitse umukeka hasi ateretseho mudasobwa, afite utwama dutandukanye ari kwifashe muri siporo ndetse n'icupa ry'amazi ari kunywa mu gihe kigeze, nyuma yo gukora siporo zo kunanura amaboko amaguru ndetse n'ibikanu, yicaye kuri wa mukeka.

Imboga, imbuto biri ku masahani birambitse, impande hariho ibyuma byifashishwa n'umuntu uri gukora siporo, igitambaro kirambitseho amazi ari mu icupa. Ibi bikoreshwa n'umuntu urimo gukora siporo, yamara gukora siporo akarya imbuto n'imboga kugira ngo agarure ubuzima ku muntu.

Intebe yabugenewe iba kwa muganga yicaramo umurwayi mu gihe afite ikibazo akeneye kwitabwaho n'abaganga, bimufasha kutagira uburibwe ndetse no kwitabwaho, akavurwa mu buryo bwihuse.

Umugabo uryamye ku gitanda yubamye, wambaye inkweto za siporo n'ikabutura y'umukara ya sipora, mugenzi we ushinzwe kumufasha kurambura imitsi, arimo kumukanda ku maguru kugira ngo amunanurire imitsi y'amaguru.

Imbere mu cyumba gikorerwamo siporo umuhungu ari gukora siporo ateruye utwuma tubiri apfukamye hasi iruhande rwe hari umugabo urimo kumuha amabwiriza y'uko iyo siporo agomba kuyikora neza.

Igikapu cy'umutuku gifite imifuka ku ruhande, gifunguye kirimo ibikoresho byinshi, umuntu ukora siporo yifashisha mu gihe ayikora, kirimo kandi icupa ry'amazi anywa mu gihe arimo gukora siporo kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Ku kibuga cy'umukino wo kwikana n'amaguru, umuhungu wari urimo kwirukanaka, agize ikibazo, ari gufashwa n'umugabo wambaye ijiri y'icyatsi ushinzwe kwita ku bakinnyi, birukankaga bagahura n'ibibazo.

Imbuto, imboga, icupa ry'amazi n'akuma ko guterura birambitse hamwe mu buryo bwo gushishikariza guterura akuma cyangwa gukora siporo yarya imbuto n'imboga ndetse n'amazi mu gihe cya nyuma ya siporo.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imyambaro ya siporo, bahagaze batandukanye bakurikiye amabwiriza bari guhabwa n'uri kubakoresha siporo, bari kurambura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo babashe kumererwa neza.

Ibiganza by'umuntu wambaye ga z'umukara azifashisha mu gihe ari gukora igikorwa kiza kumusaba ko amaboko ye aba arenzwe kugira ngo atangirika cyane cyane nko muri siporo cyangwa mu guterura ibintu biremereye.

Umugabo wagize ikibazo cy'akaguru wicaye ku gitanda wakazamuye ku gitanda, arimo kuzirikirwa na mugenzi we w'umuganga kugira ngo hagabanyuke uburibwe ashobora kuba afite muri ayo magufwa yagize ikibazo.

Umuhungu wari mu gikorwa cya siporo wambaye ipantaro n'isengeri bya siporo, yicaye hasi afashe ukuguru bigaragara ko arimo araribwa kwagize ikibazo, akaba akeneye ubuvuzi bwihuse.

Umubyeyi w'umuganga ufite ameza ateretse imbere ye ariho ibikoresho ndetse na mudasobwa, urimo gusuzuma umwana amaso amutuma, amutunga akuma kabugenewe mu kugira ngo arebe uburwayi afite.

Ibikoresho byifashishwa n'umuntu urimo gukora siporo, birambitse hasi, ndetse hari isahani iriho imbuto, aza kwifashisha kugira ngo agire ubuzima bwiza. Biri gushishikariza abantu kujya bakora siporo, hanyuma bakarya n'imbuto kugira ngo bagire ubuzima bumeze neza.

Umuhungu wicaye, ufite ikibazo ku maguru, aziritseho amapampa, muganga ushinzwe kumwitaho arimo kureba niba ari koroherwa ndetse arushaho kumuvura kugira agire ubuzima bwiza.

Umukobwa warambuye umukeka hasi wicaye wambaye imyambaro ya siporo ipantaro ndetse n'isengeri, arimo gukora siporo yo kurambura amaboko ndetse n'amaguru afashe ikirenge azamura, kugirango ibice ashaka ko bigororoka bigaroroka.

Umuntu wicaye ku gitanda cyicaraho abarwayi, arimo aravurwa ikirenge bigaragara ko yari yagize ikibazo cy'imvune hagati y'irenge n'akaguru, umuganga akaba ari kumwitaho akoresheje impapuro zabugenewe zipfuka ahantu hafite ikibazo cy'imvune.

Umugabo uri muri siporo wambaye agasengeri k'icyatsi, afite agacupa karimo amazi arimo arayimena mu mutwe, bigaragara ko yari arushye anashyuhiranye, akaba ari kubyifashisha kugira ngo agarure ubuyanja.

Ibikoresho birambitse hasi birimo amacupa y'amavuta, utwuma, ndetse n'imiti byifashishwa n'umuntu ukoze siporo, kugira ngo agarure ubuzima bwe ku murongo, bwongere bugende neza, amererwe neza.

Nkuko mubabona murabona ni abasore babiri biganjemo abasore bafite ingufu bateruye uwo muhungu nawe mukuru bari bari muri siporo mu gihe bari bari muri siporo bamwe bakora eshofema biruka aza gutsikira aza guhura n'ikibazo cy'imvune urikubonako bamutwaye bamujyanye kwa muganga kumutabara ajye kumuha ubuvuzi bufatika.

Umugabo uri mu cyumba cyabu ugenewe gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yaziritse umugozi ku kaguru ndetse no ku mashini kugira ngo imufashe muri icyo gikorwa cyo gukora siporo, aryamye hasi ku mukeka arimo ananura amaguru ndetse n'amaboko.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo, aho umuhungu aryamye ku gitanda, umuganga ubishinzwe arimo aramukoresha siporo zo kumunanura imitsi y'amaguru ndetse no kumukomeza amagufwa.

Umukobwa uri muri siporo, wambaye inyakiramajwi z'umweru, isengeri y'umuhondo, yazamuye amaboko hejuru y'umutwe arimo kunanura umugongo, amaboko ndetse n'ibikanu kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, birimo igikoresho gihagarariye umuntu, ndetse n'imashini zipima uburwayi, bigaragara ko ari igikoresho kiri kwifashishwa mu kugerageza niba iyo mashini izajya ifata ibipimo bikwiye.

Mu bitaro icyumba cyabugenewe gisuzumirwamo umurwayi aho harimo intebe umurwayi yicaramo mu gihe ari kwitabwaho ndetse n'intebe ya muganga yicaraho mu gihe ari gusuzuma umurwayi harimo kandi imashini nini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi ndetse n'ikirahuri muganga areberamo bijyanye n'ibipimo ari gufata k'umurwayi.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo umuhungu uri gukora siporo wambaye ikabutura ndetse n'isengeri n'inkweto byabugenewe kuruhande rwe hagaze umukobwa baririmo kumwerekera amategeko n'amabwiriza y'uburyo siporo ye ayikora mu cyumba kandi harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu baje gukora siporo.

Imbere mu cyumba gikorerwamo siporo, umuhungu ari gukora siporo yambaye imyambaro yabugenewe ya siporo ndetse yifashishije umugozi arimo kunanura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo.

Umwana w'umukobwa uri gukora siporo, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru, afite imisatsi myinshi. Azamuye amaboko hejuru y'umutwe, arimo kunanura imbavu, amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo imitsi inanuke n'amagufwa akomere, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umugabo ndetse n'umugore bari mu gikorwa cya siporo, bambaye imyambaro ya siporo ndetse n'imbere yaho hateretse ibikapu bari kwifashisha muri siporo. Umugabo afite icupa ry'amazi, ari kugotomera kugira ngo ubuzima bugume bugende neza.

Ishusho igaragaza umuntu uri gukora siporo, ishushanyijeho nanone imbuto nyinshi zitandukanye zirimo imineke, amatunda, amaronji ndetse n'izindi. Handitseho amagambo” sport nutrition “ bisobanura ko ar’ifunguro ry'umuntu wakoze siporo.

Umugabo wambaye agakabutura k'umukara wicaye afite agatambaro k'ubururu yafatiye mu ivi, bigaragara ko ahafite ububabare akaba ari kukifashisha kugira ngo ububabare bwe bugabanyuke.

Umuntu urimo gukora muti gakondo yifashishije imbuto ndetse n'imboga, ari kubanza yabisekura akoresheje agakoresho kabugenewe kugira ubuze kubyara umuti umuntu aza kwifashisha ngo bikire indwara mbere yuko ajya kwa muganga gufata ibinini.

Umuti gakondo uri mu kajerekani k'umweru gafungishije umufuniko w'umutuku, ku kajerekani handitseho amagambo asobanura ubwoko bw'umuti ndetse n'uburyo wakwifashishwa.

Ikimera cy'umuravumba cyameze mu butaka cyifashishwa mu kuvura muburyo bwa gakondo aho gikiza indwara zimwe na zimwe bitagombeye ko uyirwaye ajya mu bitaro gufata ibinini.

Igiti cy'umuravumba bashyizeho igiti bigifasha gukura kijya hejuru, kifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe umuntu ashobora kurwara akavurwa nacyo hatabayeho kujya kwa muganga gufata ibinini.

Umugabo watembereye mu ishyamba, arimo kugenda asoroma ibyatsi, agiye kwifashisha mu buryo bwo gukora imiti gakondo, izavura abarwayi bitagombeye ko bajya gushaka ibinini n'inshinge zo kwa muganga.

Imiti gakondo ifunze mu gakarito gasa nk'icyatsi ishushanyijeho ikirango kirimo amagambo Alliance, bisobanura ko ari imiti ituruka muri Alliance.

Icyapa kinini cyamamaza umuti gakondo gishushanyijeho igitunguru ndetse n'urubuto kiriho kandi icupa rinini rifunze riririmo umuti wakozwe hakoreshejwe izo mbuto, cyanditseho baho neza tivi bigaragara ko kirimo kwamamaza ibikorwa bya baho neza televiziyo.

Ikimera cy'umuharavumba, cyifashishwa n'abantu b'abahanga mu gukora umuti gakondo, kugira ngo avure umuntu, biatagombye ko ajya kwa muganga gufata ibinini n'inshinge, byo gukiza uburwayi bwe.

Umubyeyi w'umugore uri mushyamba, ari kureba ikimera. Bigaragara ko ashakaho imbuto cyangwa amababi aribwifashishe mu gukora imiti gakondo, izavura indwara runaka itagombye ku uyirwaye ajya ku bitaro gufata imiti y'indwara.

Amacupa atandukanye harimo imiti ya gakondo, ikoze mu bimera abantu bifashisha mu kuvura indwara barwaye, bitaboye ko bajya kwa muganga gufata ibinini byo kwivura iyo ndwara.

Umuti gakondo ufunze mu gakarito kanditseho amagambo asobanura ubwoko bw'umuti, icyo ukora ndetse n'indwara uvura kugira ngo wifashishwe n'umurwayi abashe gukira uburwayi.

Imiti gakondo ifunze mu ducupa dutandukanye, buri bwoko mu icupa ryabwo, iri mu kabati aho iri gucuruzwa n'umukobwa uhagaze inyuma, wambaye imyambaro y'umweru, utegereje abakiriya kugira ngo bayifashishe mu kwivura, bitagombye ko bajya kwa muganga gufata ibini n'inshinge.

Imbuto n'imboga byifashishwa n'abahanga mu gukora imiti gakondo, ivura uburwayi bitagombeye ko uburwaye ajya kwa muganga gufata ibinini ndetse n'inshinge zibasha kumukiza.

Imboga, imbuto, isahane n'ikiyigo birambitse biri kwifashishwa n'umuhanga akora imiti gakondo iribukenerwe n'umurwayi kugira ngo yivuze bitagombeye ko akoresha ibinini byo kwa muganga.

Imiti gakondo yakozwe n'abahanga hifashishijwe ibimera, ifunze mu gakarita imbere yako, hateretsemo amasashi, arimo ibinini kugira ngo bize gufasha umuntu kuvurwa agakira indwara arwaye.

Ibikoresho gakondo birimo imbuto n'imboga zitandukanye biteretse ku musambi umuntu ari kubyifashisha akoramo imiti gakondo byifashishwa n'abarwayi mu gihe bafashwe n'uburwayi ariko badakeneye kuvurwa n'ibinini byo kwa muganga.

Icyapa cyamamaza umuti gakondo gishushanyijeho icupa ndetse n'amagambo yanditseho ku ruhande, gisobanura ubwoko bw'umuti ndetse ni cyo ufasha ku mibereho y'umuryango hatagombyeye ko hakoreshwa ibinini cyangwa inshinge byo kwa muganga.

Isabune ikoze muri voka ndetse n'icyatsi, ifasha mu gusukura umubiri ndetse n'isura mu gihe umuntu ayikoresheje ayobga.

Umugabo w'umuhanga mu byo gukora imiti gakondo, arimo kuyikora yifashishije ibikoresho bitandukanye birimo indobo, icupa ndetse n'ibindi bikoresho. Ari kumara kuwukora akawurambika mu kabati gatereretse inyuma kugira ngo igihe uzaba ukenewe n'umurwayi agiye kwivura azawukoresha.

Indabo, umwuko uriho ibinini ndetse n'amacupa afunze ahanditse ku ruhande, bigaragara ko ari iby'imiti y gakondo, yifashishwa n'umurwayi mu kuvura indwara, bitamusabye ko bajya mu bitaro, gufata ibinine ndetse n'inshinge.

Imbuto z'amaronji, ayeze asa umuhondo, ateze asa n' icyatsi, zirambitse hasi zifashishwa n'umuntu kugira abashe kugira ubuzima bwiza, kenshi iyo yazitegetswe n'umuganga umushinzwe.

Imbuto, imboga ndetse na ji biteretse ku meza, bikoreshwa n'umuhanga mu gukora imiti gakondo, mu uburyo bwo gufasha uburwaye kugira ngo akire uburwayi, bitamusabye ko afata ibinini n'ishinge ndetse n'ubuvuzi byo kwa muganga.

Umuhungu w'umuganga uri mu cyumba ateguriramo imiti yo kuvura umurwayi, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ateretseho amacupa atandukanye arimo imiti, afite umuti mu ntoki arimo kuwitegereza kugira ngo awushyitse mu gipimo gikwiye gituma umurwayi abasha gukira.

Ikimera gikura kirandaranda hasi, gifite amababi y'icyatsi n'indabo z'umutuku. Kifashishwa n'abavuzi ba gakondo mu gukora imiti izakenerwa n'abarwayi, mu kwivura bitagombeye ko bakoresha inshinge n'ibinini byo kwa muganga.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'imbuto ndetse n'ubuki n'ibindi biribwa bihagazemo umugabo uri gucuruza utegereje abakiriya kugira ngo abaheze ibyo bifuza ku ruhande rwe hagaze abandi bantu bari gucuruza ibindi biribwa bategereje abakiriya.

Umuntu ugiye gukora isuku y'amenyo akoresheje uburoso, ari gushyirirwaho umuti na mugenzi we kugirango umwanda uri mu menyo ubashe kuvamo wose utamutera indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda mu menyo.

Ikimera cy'umuravumba giteye gifite amababi menshi kifashishwa n'abahanga mu gukora imiti gakondo ivura abantu uburwayi barwaye bitagombye kubajya gufata ibinini, inshinge zo kwa muganga.

Ikimera cy’umuravumba kimera mu butaka butoshye, gikoreshwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa ku muntu warwaye, ayivura aho kugira ngo ajye kwa muganga bamuhe ibinini abe aribyo akoresha.